Inyubako nziza ubona ko ishamaje, hari umuhanda, hari ahantu heza, hari inyubako zitandukanye, hari jalide n'ibindi bintu byiza, ubona ko hishimiwe kuba umuntu yahagera, akahabona rwose, harasa neza nk'uko bigaragara.

Ahantu ubona hateraniye abantu benshi, ubona ko hari gutangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima banashishikariza abantu kwita ku buzima bwabo no kubufata neza kugira ngo barusheho kuba mu buzima bwiza buzira umuze. Twite ku buzima bwacu turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umwana waje kuvoma ubona ko yazanye indobo, akaba ari kunywera amazi ku mugezi yateze ibiganza. Ubona hari umugezi uriho robine ebyiri, akaba ari kuvoma kuri robine imwe. Umugezi uri ahantu heza, umugezi ufasha abantu bose kubaha amazi, kugira ngo barusheho kubaho, babone amazi yo gutekesha, ayo kunywa n'ayo gukoresha isuku.

Ahantu hasa nk'aho hari abantu baje kuvoma, baje gushaka amazi, ubona ko hari amabido menshi, hari n'abantu benshi bafite ibikoresho byo kuvoma amazi ariko ubona ko asa nk'aho ntayahari, bakeneye ubufasha bwo kugira ngo babone amazi meza yo kubafasha kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari abantu benshi bahateraniye barimo bareba ibijyanye n'ingamba nziza no kumenya amakuru ajyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kugira inama na bagenzi babo no kurushaho kwita kuzima bwabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu dukurikiza ingamba ziba zarashyizwe ahagaragara zijyanye no kwita ku buzima.

Umuganga ubona ari kwita ku mukobwa waje kwa muganga amupima, areba uko amaraso ye ari kugenda mu mubiri atemberamo. Afite icyuma cyabugenewe mu kureba niba amaraso yawe ari kugenda neza, cyangwa se ari gutera byihuta. Ni byiza ko tugana kwa muganga kugirango ngo badufashe igihe cyose twahuye n'ikibazo runaka ku mubiri cyangwa Kubuzima bwacu.

Ahantu heza ubona habereye inama. Ni byiza ko dukurikiza inama tugirwa, ubona ko hari ingamba zafashwe zo kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima. Ni byiza ko twita ku buzima bwacu kugira ngo tumenye neza uko duhagaze, tugana amavuriro akadufasha kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hari itiyo nini cyane umuntu yatezeho ikiganza iri gucamo amazi, ubona akaba ikiganza kimwe kugirango arusheho gusukura intoki ze, ariko sinzi niba aya mazi ari meza gusa biragaragara ko ari meza kuko arimo ayakaraba kugirango ngo arusheho gusa neza intoki ze. Ni byiza ko dukaraba intoki kuko amazi meza adufasha gucya no kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda igihe wenda ushobora kurya utakarabye intoki ukandura indwara z'imyanda.

Ahantu heza hari ababyeyi, ndetse hari umuntu wambaye ijire y'akazi ubona hari ibipapuro ari guhereza abantu, ngo basome bamenye ibikubiye kuri iyo nyandiko, ari kubahereza, ubona bishimiye kubyakira no kubisoma, ubona bari kubimusaba ari benshi, na we yishimiye kubibaha rwose, ameze nkaho ari umukangurambaga.

Abakobwa n'abasore ubona bahagaze ahantu heza bagaragaza ko tugomba kugira amakuru ku buzima bwacu kugira ngo turusheho kwita ku buzima bwacu. Ni byiza ko tugira byinshi tubumenyaho, twegere abakangurambaga batumenyeshe byinshi ku buzima bwacu, turusheho no kwita ku mibiri yacu turya indyo yuzuye tunakora siporo, tunywa n'amazi meza.

Ababyeyi bicaye ku ntebe batonze umurongo, aho bari gusuzumwa n'umujyanama w'ubuzima cyangwa se umuganga wabigenewe, kugira ngo amenye uko ubuzima bwabo buhagaze cyane cyane urabona ko ari gupima ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe ko nta kibazo bafite mu maraso yabo, ni byiza ko umuntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi runaka hagaragaye ibimenyetso agomba guhita yegera kwa muganga ngo bamufashe.

Ahantu ubona hari umubyeyi wicaye ku ntebe ubona ko barimo kumutera urushinge bamusuzuma bagira ngo bamenye uko ahagaze, ni byiza ko igihe cyose wagize ikibazo ugana kwa muganga bakagufasha, kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona ko ari inyubako nziza zigezweho zifasha abantu mu kuba bahakorera ibikorwa byinshi bitandukanye, izi nyubako zirasa neza kandi zafasha abantu benshi batandukanye kugira bizinesi nziza bakora kugira ngo barusheho kumererwa neza mu buzima bwabo no kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ishusho igaragaza abantu barimo umuntu uri kubafasha kubona amazi abafungurira, ubona ko hari abantu b'ababyeyi, abana ndetse n'abantu batoya cyane baje gushaka amazi ku mugezi, kandi hari amazi ni meza cyane, adufasha kwita ku buzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze. Amazi ni ngombwa mu buzima bwa buri munsi.

Abana n'umubyeyi ubona baje ku mugezi gutega amazi, kugira ngo babone amazi yo kwifashisha mu guteka, mu gusukura imibiri yabo, ndetse no kugira ngo bite ku buzima bwabo. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwa remezo ndetse n'ibidukikije kugira ngo turusheho kubibyaza umusaruro natwe bidufashe kubaho mu buzima bwiza.

Abantu ubona ko bitabiriye inama harimo n'abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya ubona bafite udukayi bari kwandika ibyo bari kubwirwa ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho gufata ingamba nziza no kurushaho kugira inama abaturage ku bijyanye n'ubuzima, kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo n'imiryango yabo mururusheho kurwanya igwingira mu bana babo babahagaburira indyo yuzuye.

Abaganga bicaye ku ntebe ubona ko bari gukingira no gutera inshinge abarwayi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ubona umumama hano arimo ashinyiriza kugira ngo urushinge rugende neza bimufashe kubaho mu buzima buzira umuze, kugira ngo arusheho gukomeza kubaho.

UNICEF ni ikigo gishinzwe kwita ku bana, ubona ko hari ishusho nziza igaragaza umwana uri kunywa amazi, ubona ko inyuma ye batonze umurongo ari abana benshi, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abana bacu kugira ngo barusheho kubaho neza.

Abantu benshi bicaye, harimo abayobozi, abapolisi ndetse n'umuntu uri gutanga ijambo kugira ngo babashe kwirinda igwingira ry'abana no kugira ubuzima bwiza, bavuga ngo bungabunga ubuzima bwawe kugira ngo ubashe kugira ejo heza hawe, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu kugirango ngo tugire ejo hacu heza.

Umubyeyi ubona uri kudaha amazi mu muserege amazi mabi pe kuko ubona ko bayogerezamo amagare aba asa nabi ntago ari byiza gukoresha amazi mabi kuko yadutera indwara kuko tugomba gukoresha amazi meza kugira ngo turusheho kwita ku buzima bwacu twirinde gukoresha amazi mabi nk'ayangaya yavuye hano ahantu nk'aha habi mu bigega cyangwa se ahantu ha haribi nk'aha hareka amazi.

Abana bane ubona baje kuvoma ubona ko barimo kuvoma ku migezi myiza igezweho nk'uko byagaragajwe ko hafashwe ingamba zo kwegereza amazi abaturage kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo badakoresha amazi mabi yabatera indwara. Ni byiza kubungabunga ibidukikije n'ibikorwaremezo kugira ngo turusheho kwiteza imbere no kurinda ibyagezweho tuba mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari abantu benshi ubona ko bari kwa muganga baje gupimisha abana uburebure kugira ngo bamenye uko abana bahagaze niba umwana atari mu mirire mibi. Ubona ko hari abayobozi bakomye mu mashyi bavuga bati: "abana bacu turwanye irwingira tubagaburira neza, murabona ko baba bari gukura.

Abana babiri ubona bari ku mugezi bakaraba kugira ngo barusheho kwirinda indwara mbi zandurira ziterwa n'umwanda, urabona ko bishimye barimo bakaraba kugira ngo barusheho gusa neza intoki n'ahandi hantu. Ni byiza ko abantu bakaraba igihe cyose bavuye kwiherera nyuma na mbere yo kurya.

Ahantu heza ubona hateraniye inama ubona hari abaturage benshi baje kwigishwa ku bijyanye n'ubuzima, ubona ko hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru ubona usa nk'ari kubahugura ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kuwukorera ubuzima bwabo neza babushyire ahantu heza babukure mu kaga babwitaho, biyitaho barya indyo yuzuye kandi babeho mu buzima bwiza buzira umuze.

Abagabo n'abamama bicaye ku ntebe nziza imbere yabo hateretse amaz,i ubona ko hari udupapuro tugaragaza amazina yabo, ubona ko bishimiye kuba bari kuza mu nama, aho baje kuganira ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kugira amakuru menshi, barusheho no kugira inama n'abandi babe abakangurambaga, kugira ngo abaturage bamenye uko isi ihagaze, ndetse bamenye n'uko bakwita, ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu barimo abagore n'abagabo, ubona bari guterura imifuka bayijyana aho bagomba kuyikusanyiriza kugira ngo babashe kugira icyo babiganiraho niba baje kuyitwara, urabona abagabo ko barimo kuyipanga abagore bayizana bakorera hamwe kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Abantu basa neza, bambaye imyenda isa, harimo n'abapolisi, abamama, abapapa, ubona bari kubaka akarima k'igikoni, bateramo imboga kugira ngo zifashe abantu kwirinda indwara. Zinabongerere vitamini. Ni byiza ko twubaka akarima k'igikoni buri wese aho atuye, agomba kuba afite akarima k'igikoni.

Abana bane, bari kumwe n'umukobwa mukuru uri kubafasha, kuvoma kugira ngo barusheho gutwara amazi, hari robine nziza cyane ubona abana bayishimiye, bafite utujerekani dutoya dutatu, bishimye cyane, hirya yabo hariyo imodoka ubona bari ahantu heza hakwiye kuba hari amazi rwose kugira ngo afashe abana n'abakuru, kwitaho isuku.

Ahantu ubona hari ibikorwa remezo nk'imigezi. Ubona hari abaturage benshi bagera kuri batanu batonze umurongo baje kuvoma amazi meza kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo. Amazi meza ni isoko y'ubuzima bwiza, ni byiza ko dukoresha amazi meza kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu, turusheho no kugira ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi mwiza uhagaze ku mugezi ubona ko yishimye kuba afite amazi meza amufasha gukora isuku n'isukura mu rugo rwe ndetse n'imyambaro yambaye n'umubiri we. Ni byiza kubungabunga ibikorwa remezo kuko bidufasha kubona bimwe na bimwe bidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana b'abanyeshuri bari kumwe n'abarezi babo, ubona ko hari n'ababyeyi babo babahagaze imbere basa nk’aho ari abayobozi baje kubasura kugira ngo bagire ibyo baganira no kugira ngo bigishe abana kwiteza imbere no gukora cyane bagatsinda mu masomo yabo, ubona ko abana bishimiye kuba babasuye, rwose bafite akanyamuneza.

Ahantu heza ubona hari abantu benshi, ubona ko ari abayobozi bahateraniye barimo baganira ku bijyanye n'ubuzima n'ubukungu. Ni byiza ko ntiwagera ku bukungu nta buzima, tubungabunge ubuzima bwacu turusheho kwiteza imbere.

Ahantu hateraniye ababyeyi, ubona ko umuganga arimo gukingira abana, ubona ko ababyeyi bishimye kuba bari gukingirwari abana, kugira ngo barusheho kubaho neza mu buzima buzira umuze. Ni byiza ko rero twita ku buzima bw'abana bacu, kugira turwanye igwingira no kugira ngo babeho mu buzima bwiza. Tubakingize indwara zitandukanye, kugira ngo barusheho kurwanya igwingira.

Ahantu heza hagaragara nko kwa muganga rwose, ubona bari gufasha umwana ngo arusheho kumererwa neza, abaganga babiri. Ubona ko umubyeyi yicaye yihebye ariko kuba ari kubona abaganga biri kumwongerera imbaraga kandi abaganga baramufasha kugira ngo arusheho kumererwa neza ubona bamwitayeho, n'umutima wabo wose kugira ngo umwana arusheho kubaho neza kandi ntagire ikibazo.

Ishusho nziza igaragaza ikigo cya unicef gifasha abana kikanabitaho kibaha ibiryo by'intungamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze n'ingamba za bo. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bw'abana bacu tubakura mu mirire mibibi tubagaburira indyo yuzuye tubaha n'imbuto kugira barusheho kubaho neza kandi bafite ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza hicaye abantu bambaye imipira isa, ubona ko bari kubwirizwa ku bintu bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho gukomeza kwita ku buzima bwabo ndetse no kugira inama abandi, kurushaho gufata neza ubuzima bwabo, bakiteza imbere n'ubuzima buzira umuze.

Ishusho nziza igaragaza abagore n'abagabo, bahagaze ahantu bavuga ati: "turwanye igwingira ry'abana tubagaburira indyo yuzuye, ibitera imbaraga, ibirinda ndwara, ndetse n'ibyubaka umubiri, kugira ngo barusheho kumera neza, no kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze".

Ahantu heza ubona hateraniye abantu barimo baganira ku bijyanye n'uburyo batanga ubuvuzi buboneye kugira ngo barusheho guha aba serivisi nziza abaturage barusheho kubungabunga ubuzima bwabo no kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, nkuko barimo babiganiraho.

Abana bishimye baseka ubona bagiye ahantu ku mugezi, bashaka bose gukarabira icyarimwe, ubona bishimiye gukaraba intoki nk'uko babibwirijwe gukaraba intoki bifasha abana n'abantu bakuru kurushaho kugira isuku, bakirinda kurya badakarabye intoki kugira ngo batandura indwara mbi zo mu nda.

Abana babiri ubona bagiye kudaha amazi ahantu hari ikidamu, ikidendezi cy'amazi. Kandi aya mazi ni mabi, ni bibi rero ko dukoresha amazi nk'aya kuko yangiza ubuzima bwacu akanadutera indwara zirimo nko kurwara inzoka ndetse n'izindi ndwara zijyanye n'umwanda.

Abantu barimo abagore batanu barimo baganira, ubona hari umuntu urimo ubagira inama ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kugira amakuru bamenya ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo ki bakwita ku buzima bwabo n'uburyo bakwirinda indwara nyinshi zitandukanye.

Ahantu heza hicaye abamama n'abapapa, bambaye amataburiya y'ubururu, bafite ibitabo barimo basoma, ubona ko ari abajyanama b'ubuzima barimo bigishwa uko bagomba gukomeza gufashanya mu giturage, kwigisha abaturage kubaho bisanzuye, bakavuga ibibazo byabo kandi bagana ibigo nderabuzima kugira ngo bafashwe.

Abana batatu n'umubyeyi umwe ubona ari koza umwana undi afite indobo mu ntoki nibyiza urabona bari ku mugezi, ni byiza yuko tugira isuku imibiri yacu twita ku bana bacu ndetse si ku mubiri gusa no ku myambaro n'aho dutuye no ku byo kurya tubitegurane isuku.

Umurwayi ubona yagiye kwa muganga ubona ko barimo kumwitaho bari kumutera urushingiye kugira ngo arusheho kumera neza. Ni byiza ko igihe cyose tugize ikibazo cyerekeranye n'uburwayi cyatuma gihungabanya ubuzima bwacu tugana ibitaro bakadufasha kuko abaganga nicyo bibereyeho gufasha abarwayi. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu ubuzima ni ubwacu tubyiteho kandi tumenye uko tubufata neza.

Abana ubona bishimye bapeperana babyina baseka, ubona ko bari gukina baza kunywa amazi banakaraba intoki, ni byiza ko dukaraba intoki ubona ko bari ku ishuri bishimye bambaye impuzankano barasa neza pe. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bw'abana bacu tubabwiriza gukaraba intoki nibura buri gihe mbere yo kurya na nyuma yo kuva mu bwiherero.

Ahantu ubona hateraniye abantu benshi, ubona hari kubera ubukangurambaga bwo kubagira inama ku bijyanye n'ubuzima, ni byiza ko twita ku buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, dukurikize inama tugirwa kugira ngo turusheho kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari ikigega, hari umwana ufite agakombe arimo avoma amazi kugira ngo ayavome, ayifashishe mu byo agiye kuyakoza. Ni ukuvuga ngo tugomba kubaho dufata amazi neza kugira ngo atazasenya, tugomba kugira ibigega tukabifatisha amazi yacu, kugira ngo twirinde kwikorera imibu aho dutuye.

Abantu barimo ababyeyi n'abana barimo baje kuvoma, ubona hari ababyeyi bahagaze ku ruhande bashungereye umubyeyi urimo ufungurira umwana ngo avome, ubona umwana yateze ijerekani ku mugezi kugira ngo avome, ni byiza ko tuvoma amazi meza kugira ngo tubashe kwita ku buzima bwacu dukoresheje amazi meza.

Ahantu heza ubona hari umugezi abaturage baza kuvomaho amazi, nk'uko bigaragara begerejwe amazi rwose kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo no kubaho mu buzima butagira umwanda, bifashishije amazi basukura imibiri yabo, bagafura imyambaro, barangiza bakanakaraba intoki mbere yo kurya, bakanatekesha amazi meza.

Abagabo ubona ko bari kwita ku bana babaha amata mu bikombe, ni byiza ko abana bitabwaho, ubu ni uburyo bumwe bwiza mu ngamba zarwanya igwingira mu bana, bigatuma habaho ubuzima bwiza buzira umuze ku bana ndetse no ku bakuru.

Ahantu heza hameze nko kwa muganga, urabona ko hari abarwayi batunze umurongo bicaye ku ntebe, baje kwa muganga ngo babafashe kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, babafashe no kubaha imiti kugira ngo babashe kubaho neza. Ni byiza ko igihe cyose ufite ikibazo wagana ikigo nderabuzima bakagufasha bakaguha imiti, ukabaho mu buzima bwiza.

Ahantu heza hari robine, ubona umwana arimo akaraba intoki kugira ngo arusheho kugira isuku, ubona ko yaje kuvoma kugira ngo arusheho kujyana amazi yiyiteho, akore isuku y'imyambaro no mu rugo aho atuye, anateke ibiryo bifite isuku avomye amazi meza afite asukuye. Ni byiza ko twita ku mibiri yacu twifashishije amazi meza n’isabune kugira ngo turusheho kubaho neza m’ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza hari umugezi wabugenewe usohora amazi, aho ubona hari utwana tubiri turimo dukaraba duseka twishimye, kandi gukaraba ni byiza, bantu twese dukarabe twirinde indwara zandurira mu kuba umuntu yagize umwanda w'intoki, akarya ibyo abonye byose adakarabye intoki, mureke twirinde ibyo ngibyo maze dukarabe intoki, igihe cyose tugiye gufata amafunguro n'igihe cyose tuvuye mu bwiherero.

Ahantu heza, ubona ko hicaye abantu bari kuganira, bafite amazi imbere yabo bari kunywa, bari kuganira ku bibazo wenda runaka bijyanye n'uburwayi bwo kwa muganga, bari kuganira ku bibazo biri muri sosiyete muri rusange, kugira ngo babashe kugira icyo bafasha abatuye sosiyete muri rusange.

Agatanda keza kubatse mu rugo rw'umuturage ubona ko kariho ibikoresho bitandukanye, ni byiza ko uru rugo rugira agatanda nk'uko bigaragara hano agatanda ni igikoresho abantu bubaka mu rugo bakazajya banikaho amasahani kugira ngo bayarireho yumutse atariho mikorode, ni byiza ko buri wese agira agatanda iwe mu rugo.

Umwana mwiza w'umukobwa ubona ko yagiye kuvoma amazi kugirango ngo arusheho kwita ku isuku ndetse no gukoresha amazi meza asukuye. Ni byiza ko twita ku bikorwa remezo nk'ibi biba byarubatswe ahantu heza nk'aha kugira ngo turusheho gutanga serivise ku baturage. Ni byiza ko natwe twiyitaho tugakoresha amazi meza twisukura imibiri yacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umubyeyi uri iwe aho yubatse kandagira ukarabe, ubona ko ari nziza pe! Ubona ko bimunejeje kuba ava hanze agakaraba, yava ahandi hantu hanze agakaraba, yaturuka mu bwiherero agakaraba, yamara no gukora indi mirimo yose agakaraba, agasa neza kandi ni byiza. Kandagira ukarabe zifasha abantu kwita ku buzima bwabo kugira ngo barusheho kwirinda indwara zandurira mu mwanda.

Umubyeyi wikoreye indobo y'amazi atwaye n'indi mu ntoki, ubona ko amazi bigoye kuyabona. Hakenewe kuba bakwegerezwa imigezi nk'abantu bakuru, bakavoma hafi habegereye kugira ngo barusheho kwiteza imbere mu buryo bworoshye. Ni byiza ko twegerezwa amazi nk'uko bikwiye, kugira ngo turusheho kubaho mu buzima butagoye, kandi budufasha no kwiteza imbere.

Ahantu heza hubatse neza inyubako nziza cyane ubona ko ari imwe muzafasha abantu kuba bagenda hagatangirwa serivisi kandi ni byiza twegerezwe serivisi nk'abaturage. kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, tunamenye aho isi igeze ni ngombwa ko tugira inyubako zigaragaza uko abantu bagomba kubaho neza kandi ubuzima bwiza buzira umuze.

Abaganga beza basa neza, bambaye neza, ubona bicaye kandi bafite imiti imbere yabo, barimo bavuga bati :"Iyi ni imiti ushobora kwifashisha ukayikoresha, ikagutuma ubuzima bwawe bumera neza kandi ukarushaho kubaho neza.'' ni byiza ko tugana abaganga bakadufasha, bakaduha imiti idufasha gukomeza kubaho neza.

Ahantu heza ubona hateraniye abantu benshi, harimo abantu bakuru batatu ndetse n'abana batoya, ubona ko ari ahantu hari gutangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima, kugira ngo abantu barusheho kumenya amakuru menshi ku bijyanye n'ubuzima bwabo, barusheho kumenya uko babungabunga ubuzima bwabo no kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga mwiza cyane w'umusore urimo gufasha ababyeyi abaha care abitaho kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze, arimo abasuzuma abaha n'imiti yabafasha kumera neza kurushaho, kandi ni byiza abaganga bafasha abarwayi buri gihe kugira ngo bamenye neza uko bahagaze banabafashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abajyanama b'ubuzima bahagaze ku murongo bari kumwe harimo n'abayobozi ubona ko barimo bagaragaza uburyo umuntu yakwita ku buzima bwe n'uburyo ki twafasha abaturage twe nk'abajyana b’ubuzima kugira abantu inama kugira ngo babashe kwita ku buzima bwabo babeho mu buzima buzira umuze, ni byiza nk’abajyanama b’ubuzima ko tugira abaturage inama bagafata neza ubuzima bwabo kugira ngo bere kubushyira mu kaga.

Abantu benshi barimo abana, abakuru ndetse n'abato, ubona bagiye ku mugezi barimo bavoma hari umuntu urimo kubafungura ubona bishimiye kuba baregerejwe imigezi hafi. Ni byiza ko abaturage begerezwa amazi kuko arabafasha mu buzima bwa buri munsi, ubona ko inyuma yabo hari ibiti hari n'umugabo umwe uri kubavomera amazi bose bazanye indobo, amajerekani ndetse n'ibikoresho byose bakoresha batwara amazi.

Igishushanyo kigaragaza umwana n'umubyeyi basa naho bishimye. Umubyeyi ateruye umwana arikumusekera, barishimye. Ari byo bifasha abana kongerera kumva bishimye bakabaho mu buzima bwiza, iyo baganira n'ababyeyi babo babasekera, babaganiriza bituma umwana akura neza kandi ntacyo yishisha ku mubyeyi we.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako nziza itangirwaho ibijyanye na serivisi z'ubuzima, ni byiza ko twegera abantu bashinzwe ibijyanye n'ubuzima bakadufasha kugirango turusheho kumenya uko twitwara kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza, tubungabunge ubuzima bwacu kugirango tubeho neza.

Abantu benshi biganjemo abagabo ubona baje ahantu ngo babafashe ku bijyanye no kumenya amakuru ku buzima. Ni byiza ko tumenya uko ubuzima bwacu buhagaze bwa buri munsi kugira ngo turusheho kwita ku mibiri yacu tumenye n'uburyo ki twagwana n'ubuzima butari bwiza tukabugira bwiza.

Ahantu heza hari ibikoresho ubona bigezweho bifasha abantu kumenya ese ni gute twakwita ku buzima bwacu, ese ni he twajya twagize ikibazo kugira ngo badufashe wagana aha hantu bakagufasha ubona hari ibikoresho byose, bakagufasha kumenya uko mu buzima bwawe hameze mo imbere bakakumenya ese umeze ute mu buzima bwawe kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ahantu heza ubona hateraniye abantu benshi habereye inama irimo ivuga ku ndwara ya MARBURG aho yari yishe abantu benshi barimo bavuga bati twakora iki ngo tubungabunge ubuzima bwacu bagira abantu inama zo kugira ngo bamenye uko ifata n'uko yandura kugira ngo barusheho kuyirinda ni byiza ku twirinda indwara z'ibyorezo nkuko tubigirwaho inama.

Umugabo wicaye ku ntebe ubona ko ari guhabwa care ari guterwa urushinge kugira ngo burusheho kumenya uko ubuzima bwe buhagaze ni byiza ko natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kujya kwa muganga tukikingiza indwara zimwe na zimwe kugira ngo turusheho kubaho neza mu buzima buzira umuze abaganga bajye badufasha rwose.

Abana batatu n'umubyeyi, ubona ko bari baje kuvoma amazi ku migezi ya kizungu myiza igezweho, ubona ko umwana ateze akajerekani ngo amazi agwemo. Umugezi uri ahantu heza ubona hitaruye, abaturage bose babasha kuwugeraho bakavoma amazi bagateka kandi ni byiza ko begerezwa amazi asukuye kugira ngo barusheho kwirinda indwara zandurira mu mazi mabi nk'inzoka.

Ahantu ubona ko hateraniye abajyanama b'ubuzima, aho baje mu nama barimo bakoma amashyi bishima kubw'ingamba nziza bari kugirwa babwira na bagenzi babo kugira ngo barusheho kwimakaza umuco mwiza ndetse n'ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ishusho nziza igaragaza uburyo ki tugomba kuba abaterankunga cyangwa tugomba kwitanga kugira ngo buri umwe arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze ejo hazaza. Agire ejo heza heza binyuze mu kugira ubuzima bwiza. Gira inama na mugenzi wawe arusheho kwita ku buzima bwe kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze arusheho kugira ejo he hazaza heza.

Ababyeyi beza cyane, abamama bishimye, ubona bakoma mu mashyi, bicaye munsi y'igisharagati cyiza kuko ubona bambaye amataburiya, basa nk'abajyanama b'ubuzima n'ubundi ni abajyanama b'ubuzima, bafasha abantu kubabwira no kumenya uko babayeho muri sosiyete kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwabo buri munsi, mu mibereho yabo kugira ngo imibereho yabo ikomeze kugenda neza, bafasha n'abantu bose.

Ahantu ubona hicaye abantu benshi biganjemo urubyiruko, hari umuganga arimo abakingira abatera urushinge ku rutugu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Urabona ko abana babyishimiye kuba bari kwitabwaho kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hasa nko ku kigo cy'amashuri ubona abana barimo bakina, hari umwana waje kuri kandagira ukarabe kugira ngo akarabe arusheho kugira isuku y'intoki ze, yirinde indwara ziterwa n'umwanda, ni byiza ko dukaraba intoki mu buzima bwa buri munsi. Twirinde umwanda dukaraba mbere yo kurya na nyuma yo kuva mu bwiherero, ni byiza ko dukaraba turusheho kugira isuku.

Umumama ubona ari kumwe n'umwana, uwo muntu yambaye agapfukamunwa urabona ko ari gukarabya umwana intoki n'amazi meza n'isabune kugirango amukureho imyanda, kugirango ngo arusheho kugira isuku no kwenda indwara ziterwa n'imyanda. Ni byiza ko dukaraba intoki buri gihe uko tuvuye mu bwiherero na mbere yuko turya, na mbere yuko dutegura amafunguro dukaraba intoki twimakaze isuku.

Abantu beza cyane ubona harimo umupolisi ukomeye harimo n'abandi bagabo bamukikije abagore ndetse n'inkumi yambaye ipantaro y'umutuku n'ishati y'umweru ubona basa neza cyane barimo baganira ukuntu baganiriza abandi ibijyanye n'ubuzima kugirango ngo babashe kwita kuzima bwabo babeho neza..

Umwana w'umuhungu wicaye hasi yambaye ubusa urabona ko atishimye afite ikibazo cy'ibijyanye n'ubuzima ni byiza ko tubaganiriza abantu nk'aba bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo barusheho kumera neza no gutekereza neza twite ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo barusheho nabo kumva ari abantu nk’abandi.

Umubyeyi wicaye yubitse umutwe ubona ko ari mu gahinda ameze nk'ufite ibibazo, akeneye inama rwose, umuntu yagakwiye kumufasha akamukura mu bwigunge kuko ubona afite ibibazo, yigunze yubitse umutwe, afite ibibazo byamurenze.

Umukobwa mwiza usa neza, wicaye mu ntebe nziza, arimo araseka ubona ko yishimye kuko aho ari hamunejeje n'ubuzima bwiza abayemo, urabona ko ni umukobwa mwiza muremure w'inzobe wasetse, amenyo ye ubona yayashyize ahagaragara yicaye ahantu mu ntebe yegamye.

Ababyeyi beza bishimye, babyina, ubona ko bameze neza bishimiye umunsi wabo, kwishima ni byiza kandi bituma abantu barushaho kongera iminsi yabo yo kubaho, twishime mu buzima tubayemo, twakire uko tubayeho, bizadufasha kugira ubuzima buzira umuze no kubaho igihe kirekire kandi tutihebye.

Abana, ababyeyi, n'aba papa, ndetse ubona ko bishimye cyane bamanika ibendera ry'igihugu cyacu mu Rwanda. Ubonako bishimiye kuba bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyane cyane kuba bamanitse n'amabendera, ni byiza rero ko duharanira uburenganzira bw'igihugu cyacu tukanagiteza imbere nk'igihugu cyacu cyatubyaye.

Umuntu wicaye hasi ubona ko afite ikibazo cy'agahinda, ubona ko yifashe mu maso kuko ashobora kuba arwaye amaso. Ni byiza ko nimba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se amaso afashwa akajyanwa kwa muganga ariko nk'ibigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo ari gutekereza neza. Ni byiza ko ajya kwa muganga bakamuganiriza bakamugira inama kugira ngo arusheho gutuza no kumera neza.

Umugabo mwiza muremure, wambaye ishati nziza y'amaboko maremare, ubona inyuma ye hariyo abandi ubona ko bari mu gikorwa kiza cyane rwose kijyanye no kwigisha abantu uburyo bakwita ku mibiri yabo no ku buzima bwabo neza kugira ngo barusheho kuba mu buzima buzira umuze.

Ahantu heza hariho amashusho atandukanye agaragaza ukuntu tugomba kubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ejo hazaza heza, kugira ngo turusheho kugira ejo hazaza hacu hafite intego ni byiza kobungabunga ubuzima bwacu, twita ku bitekerezo byacu no gukansaringa abantu bafite indwara z'ubwonko kugira ngo barusheho gutekereza neza biteze imbere.

Umubyeyi mwiza ubona wicaye impande hicaye abandi ubona ko inyuma yahagaze undi hari n'umugabo wicaye inyuma ye ni byiza ko umuntu wese ugize ikibazo cyo mu mutwe tumuganiriza ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe barimo baganira ukuntu bafasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Umuryango wicaye ubona utuje unezerewe wishimye ubona ko ufite abashyitsi bawusuye ubona ababyeyi bishimye basa neza, harasa neza, kwishima ni byiza bituma umuntu agira ubuzima buzira umuze akarushaho no kongera iminsi ye yo kubaho, twishime ni byiza cyane.

Umwana wishimye, wicaye ku ntebe y'igiti, yishimiye kuba ari kurya biswi yitaweho, kuba yaritaweho agakura ni byiza cyane, bamwiteho, akomeze akure, umwana yishimye cyane, arasa neza, gusa ni byiza ko ababyeyi bakomeza kutwitaho kugira ngo dukomeze kurushaho gukura neza.

Ahantu heza ubona hateraniye abantu batandukanye ubona hari abaganga barimo babaganiriza babagira inama kugira ngo barusheho kugabanya ibibazo by’ihungabana, ni byiza ko igihe umuntu afite ikibazo mu mutwe, umuganiriza akarushaho gutuza kugira ngo atagira ikibazo cyatuma aniyahura.

Ishusho nziza igaragaza uburyo ki abantu bagakwiye kwita ku buzima bwabo cyane cyane mu by'umwihariko mu mitekerereze ndetse no mu buzima bwa buri munsi bwa muntu, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, Ni byiza ko turushaho kwitekerezaho no gutekereza ku cyateza imbere ubuzima bwacu tugira ubuzima buzira umuze.

Abana benshi bicaye bakikije umukecuru, bamushyizemo hagati, ubona ko nyine bishimye kuba bari kumwe n'umukecuru, ubona ariko ko bafite ikibazo cyo kuba habayeho mu buzima bubi n'imirire mibi. Ni byiza ko ababyeyi tugomba kwita ku bana kugira ngo turwanye igwingira muri iyi minsi ryugarije igihugu cyacu nk'u Rwanda, tubagaburire indyo zuzuye.

Ahantu heza hahagaze abana ubona ko bambaye imyenda isa hejuru y’imipira ubona ko ari abanyeshuri harimo umupapa umwe wambaye karuvati n'ishati y'umweru hari n'undi muzungu uri ku ruhande ubona ko ameze nk'umuterankunga wabo ni ahantu heza bari kwigishirizwa ibijyanye nubuzima bwo gufata neza ibintu byabo no kwita kuko bameze bakiyitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahantu heza ubona hicaye ababyeyi barimo baganira ko bagomba kwita ku bana babo bakabavana mu mirire mibi. Ni byiza ko ababyeyi tugaburira abana bacu indyo zuzuye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ahantu mu karere ka bugesera, ahaje gufungurwa ivuriro rishya ryo gufasha abarwayi ku bijyanye n'ubuzima bwabo, kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwa buri munsi. Ni byiza ko rero dufata ubuzima bwacu neza, tukabungabunga bukarushaho kumera neza

Umusaza ubona wicaye hasi yambitswe amapingu, ubona inyuma ye hahagaze abantu benshi, ubona ko asa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko abantu nk'aba tubaganiriza si byiza ko tubakanga, kugirango ngo batarushaho kwiheba no gusara, ni byiza ko tugomba kubitaho nk'abantu nka'abandi, kugirango ngo barusheho kutiheba no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu batatu bari aha. Bahagaze bafite inkoni bose, ubona ko harimo umwe uteruye umwana uri kumwonsa, umeze nkaho ari gushaka ubuzima, yagiye gukorera amafaranga kugira ngo abone uko yita ku mwana we, ubona ko afite ikibazo rwose pe.

Umuntu umeze nk'umusazi wambaye imyenda mibi yamucikiyeho ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Ni byiza ko abaganga b'inzobere bamufasha bakamuvura kugira ngo arusheho kumera neza nk'abandi yitabweho.

Umuntu ubona ufite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko abantu nk’aba tubicaza tukabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima, kugira ngo twumve ibitekerezo byabo tumenye aho duhera tubafasha kubashyira mu murongo. Ntago ari byiza kubatererana kuko nabo si bo, tubaganirize kugira ngo twese turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze kandi nabo babeho mu buzima bwiza buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari abana bishimye ba pepera cyane basa'bishimiye ibyo barimobona bariri gukina bishimye bari ahantu ku ishuri cyane bambaye impuzankano basa neza cyane bishimye kuba bagiye ku ishuri kandi bahabwa uburere bwiza ku ishuri ibi ni byiza birabanyuze barasa neza.

Abantu babiri bafashe umuntu hagati umeze nk'urwaye warembye, bamufashije ngo bamugeze ku kigo nderabuzima kugira ngo abashe kuba yakitabwaho, urabona ko basa neza n'abagira neza baramufashije kugira ngo abashe kubona ubufasha.

Umwana w'umuhungu ubona ahagaze yegamye ku gikuta, ahantu ku nzu hameze nko mu rugo, ubarabona ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Ni byiza ko twita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, tukabagira inama, tukabaganiriza kugira ngo barusheho kutiheba no gutekereza neza ejo habo hazaza.

Umumama ubona arikubwira umupapa uburyo yakwifata mu gihe yagize ikibazo, ubona ko uwo mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe, ubona ko atari gutekereza neza afite ibibazo ubona umugore ari kumuhumuriza kugira ngo arusheho gutuza, ni byiza ko igihe umuntu yagize ikibazo cyo kuba ari gutekereza cyane no kuba ari kubangamirwa n'ibibazo umugira inama kugira ngo arusheho gutuza no gutekereza neza.

Abantu biganjemo urubyiruko baje guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo babashe kugira inama na bagenzi babo no kubafasha ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ni byiza ko twita ku buzima bwacu cyane cyane kuganiriza abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo barusheho nabo gutekereza neza kandi bave muri ubwo burwayi.

Abana beza barasa neza bishimye basetse, bamwenyuye ubona ko bari ahantu heza bahuriye n'abandi. Bari mu kuganira n'abandi, bafite utuntu, bambaye utuntu ku mutwe tumeze nk'ikamba, mbese urabona ko bishimye cyane.

Ishusho igaragaza ababyeyi babiri bateruye abana, bari kumwe n'umuntu w'umubyeyi umeze nk'aho ari kubahugura uko bakwita ku bana babo, babaha indyo yuzuye ibafasha, babaha n'imfashabere kugira ngo barusheho gukura neza, kugira ngo barusheho gukura neza bagomba kwitabwaho n'ababyeyi babo bakabonnsa, bakanabaha imfashabere igihe bagize amezi atandatu babona ko bari guhugurwa gufasha abana babo kubaho mu buzima bwiza.

Umuntu ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko igihe cyose tubonye umuntu ufite ikibazo cyo mutwe, tumuganiriza kugira ngo arusheho kumenya neza uko ubuzima buba bumeze, ni byiza ko aganirizwa kugira ngo arusheho kugirwa inama no kurushaho gutekereza neza kugira ngo na we arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umubyeyi uri kumwe n'umukobwa ubona wicaye wiyishimye, umukobwa yambaye ikanzu y'ubururu arasa neza afite akantu mu ntoki keza kameze nk'akabumbano k'ingwe, niba atari intare hagati aho ni inyamaswa nziza ubona ko nyine yishimiye kuba ari kubona ako kantu no kuba bari kumuganiriza kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Abantu ubona ko ari abakobwa beza bambaye imyenda y'ubururu hejuru, harimo n'abasore n'umugabo hagati, ubona ko yifotoranyije na bo, ubona ko yari arimo kubahugura ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kwiyitaho bamenye uko batekereza neza ibintu byabateza imbere no kugira ejo habo heza hazaza.

Abantu ubona ko ari benshi batandukanye, ku mashusho atandukanye, ubona barimo batera ibimera byifashishwa kuba byavanwamo imiti ya kinyarwanda, ubona ko barimo banaganira ku bijyanye n'uburyo ki bafasha abantu mu kuganira n'ibibazo byo mu mutwe kugira ngo babafashe kubaho neza mu buzima buzira umuze.

Ahantu hari abantu batanu, harimo abagore bane n'umusore umwe. Ubona ko wagira ngo bamusuye bari kumuganiriza ku bijyanye n'ubuzima, kugira ngo bamubwire uko yarushaho kubaho neza bitamugoye kandi mu buzima bwiza, arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Ubona ko inyuma ye hariyo insina nyinshi babona ko bishimiye ibyo bari kumubwira, bafite n'amakaye barimo bandika, bamusomera, bamuhugura, bamubwira at ibyo agomba gukora.

Umugabo ugaragara nk'ufite agahinda, warize ariko ubona ko arwaye ijisho kandi ni byiza ko igihe cyose urwaye ijisho, umuntu yegera ikigo nderabuzima bakamufasha, bakamurangira aho bavura amaso neza, kandi no ku kigo nderabuzima bashobora kumufasha, bakamuha umuti umufasha koza amaso kugira ngo arusheho kumera neza.

Abapapa n'abamama beza bahagaze ahantu ubona bafata ifoto bamamaza uburyo ki twagakwiye gufasha abantu bafite indwara zo mu mutwe, kugira ngo barusheho kumera neza. Tukabafasha bakaba abantu nk'abandi ntibihebe kugira ngo barusheho kwiteza imbere na bo.

Umuganga ubona apimye umwana arimo areba uko ubuzima bwe buhagaze, ni byiza ko tujyana abana bacu kwa muganga bakitabwaho kugira ngo turusheho kumenya uko ubuzima bw'abana bacu buhagaze, tubiteho tubajyane kwa muganga barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana bahagaze baseka ubona ko bishimye, nubwo ubuzima ubona ko bubagoye, bahagaze ahantu mu byatsi, hari ibyatsi biharunze byinshi, ubwo urabona ko bagerageje kwishima bagaseka, bakamwenyura, bakagaragaza ibyishimo, nubwo ubuzima busa n'ububagoye cyane.

Abana beza b'abanyeshuri bambaye inifomo ubona ko bari ku kigo cy'amashuri bishimiye kuba bariho mu buzima bwiza kandi bitaweho babungabungirwa ubuzima bwabo, ni byiza ko twese tubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abana kugira ngo tubarinde igwingira tubagaburira indyo yuzuye.

Umurwayi wicaye imbere y'umuganga ubona ko umuganga yambaye ga n'agapfukamunwa afite akantu ari gupima mu kanwa kugira ngo arebe uko mu kanwa ke hahagaze. Arimo areba iryinyo risa n'iribangamiye uwo mukobwa kugira ngo arusheho kumufasha no kumugira inama y'uburyo yakwitwara kugira ngo arusheho gukomeza kubaho neza.

Umusore mwiza wicaye ku ntebe ubona ko asetse amwenyura yishimiye kuba afite mu kanwa heza hazira umunuko n'indwara zirimo nk'ubugenda akanwa no kubyimbaishinya. Twite ku menyo yacu nk'uko tubishishikarizwa buri munsi kugira turusheho kugira impumuro nziza no kwirinda indwara nk'izo mbi zo mu kanwa.

Umwana wagiye kwa muganga kwikuza iryinyo ubona ko umuganga arimo areba ukuntu yamufasha akarimukurira, arisuzuma ngo arebe uko ameze ubona ko ishinya yabyimbye, umuganga yagerageje kubyitaho yambaye ga, yambaye afite ibikoresho byabugenewe, yambaye itaburaye y'akazi kugira ngo amufashe neza nkuko yabishinzwe kwa muganga mu gufasha abandi barwayi bakamererwa neza.

Umusore ubona arimo kwireba avuga ati ni byiza kwita ku menyo yacu no mu kanwa hacu kugira ngo turusheho kugira amenyo meza ndetse no mu kanwa heza, hatanuka. Turusheho kwirinda indwara zitandukanye zirimo nk'ubugendakanwa ndetse no kurwara amashinya. Tubungabunge umubiri wacu twita no mu kanwa kugira ngo turusheho kugira impumuro nziza dukoresheje umuti wabugenewe n'amazi meza.

Umukobwa wicaye ku ntebe usa nkaho anezerewe cyane bitewe nuko abona asa neza mu maso bitewe nuko yiyitayeho uruhu rwe akoresheje imiti myiza cyane ya kinyarwanda ndetse yicaye ku ntebe nziza cyane zisa neza, ari ahantu hasa neza afite indorerwamo arimo yireba aseka amwenyura yishimye ibintu bituma umuntu akomeza kurushaho kumera neza.

Umuganga ubona ari gusuzuma amenyo y'umusore mwiza wicaye ku ntebe arimo amwereka ngo iryinyo riri kundya ni iri, arimo amubwira ati reka ngufashe turebe uko bimeze tukubwire icyo wakora kugira ngo urusheho kumererwa neza ku ryinyo ryawe.

umugabo ubona ko yishimye cyane ko arimo aseka avuga ati:' amenyo nicyo kintu cyonyine cyiza umuntu yakwitaho kugirango arusheho kugira impumuro nziza mu kanwa". Twite ku menyo yacu tuyasukure buri munsi kugira ngo turusheho kugira amenyo meza no kwirinda indwara zimwe na zimwe zandura zitewe n'umwanda mu kanwa k'ubugendakanwa ndetse no kubyimba amashinyara.

Abaganga babiri barimo bafasha umurwayi ubona ko afite ikibazo mu kanwa, barimo bareba ko iryinyo rye nta kibazo bifite kugira ngo bamufashe bamuvure abashe kurushaho kumererwa neza. Ubona ko harimo umuganga umwe w'umugore urimo kureba uko umurwayi ameze yambaye agapfukamuwa n'ingofero, uwo mugabo arimo amufasha ngo bafatanye bavure umurwayi arusheho kumera neza.

Umuganga ubona ari kwita ku murwayi ubona ko ari kureba mu kanwa kugira ngo arebe uko ameze n'ba iginyinyo ifite ikibazo abashe kuba yamufasha akamuha umuti ni byiza ko twita ku menyo yacu twikoresha imiti myiza isukura mu kanwa kacu yabugenewe kugira ngo twirinde indwara zandura zo mu kanwa k'umwuka mubi guhumeka nabi ndetse n'uburwayi bw'ubugendakanwa.

Umugabo wasetse neza, ubona ko ari kwerekana ukuntu twakita mu kanwa hacu hakaba hasa, ubona ko afite amenyo meza kubera yakoresheje imiti myiza kugira ngo abe afite amenyo meza no kwirinda indwara zose zandurira mu kanwa no kuba umuntu afite impumuro mbi mu kanwa. Ni byiza ko dukoresha imiti yabugenewe kugira ngo dusukure mu kanwa kacu.

Umukobwa mwiza wasetse, ubona ko ari kwerekana ikiza cyo gusukura amenyo yawe akaba umweru, bituma urushaho guhumura neza mu kanwa bikanongera isuku yawe mu kanwa, bikanafasha abantu kubarinda indwara zirimo nk'ubugendakanwa no kubyimba amashinya. Twite ku menyo yacu, tugira ejo hazaza heza no kugira ubuzima buzira umuze.

Umuganga n'umurwayi bari aho urabona ko umuganga ari kwita ku kumurwayi kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze, ubona umurwayi yatuje kugira ngo amenye uko umuganga umusuzumye amubwiye.

Umurwayi ubona uryamye ku gitanda ubona ko abaganga bari kumwitaho kugirango ngo arushaho kumererwa neza ubona ko afite ikibazo cyo mu kanwa ni byiza ko twita ku menyo yacu dusukura mu kanwa n'umuti wabigenewe kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu no kugira ngo turusheho kubungabunga imibereho myiza yacu turusheho kugira isuku mu kanwa kacu.

Umusore mwiza ubona ari guseka ubona yerekana ko ari byiza ko twita ku isuku yo mu kanwa twite ku menyo yacu dukoresheje umuti wabugenewe kugira ngo turusheho kubungabunga isuku yo mu kanwa no kwirinda indwara zimwe na zimwe no kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze , indwara zimwe na zimwe zo mu kanwa harimo ubugendakanwa ndetse no kubyimba amashinya tubyirinde turushaho kwita mu kanwa hacu n'amazi meza n'umuti wabugenewe.

Umwana mwiza w'umukobwa, ubona ko yamwenyuye afite uburoso mu ntoki, n'umuti wabugenewe yasize uburoso, kugirango ngo arusheho gusukura amenyo ye, ni byiza ko twita ku menyo no mu kanwa hacu, turushaho kubungabunga ubuzima bwacu twita mu kanwa hacu, kugira ngo turusheho kugira mu kanwa heza hazira umunuko, ndetse n'indwara zitandukanye nk'ubugendakanwa, ndetse no kubyimba amashinya, twite ku buzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Intebe nziza zisa neza, intebe ni ibikoresho bikorwa kugira abantu babyicreho bikabafasha kuruhuka, kandagira ukarabe nziza ya kizungu, ahantu hasa neza muri salo ubona hari ibikoresho bitandukanye, imashini zifasha abantu gukora imirimo itandukanye.

Umuganga ufite akantu gapima umutima uko utera ari kumwe n'umubyeyi ubona wishimiye kuba bari kumwe ameze nkaho ashaka kumufasha no kumugira inama kugira ngo ajye akomeza kubaho amenya uko ubuzima bwe buhagaze. Ni byiza twipimishe tumenye uko ubuzima buhagaze nkuko tubikangurirwa, kugira ngo tumenye uko amagara yacu ahagaze.

Umurwayi ubona ari kwitabwaho n'umuganga kugira ngo umurwayi arusheho kugira ubuzima bwiza, ubona ko ari kumwereka uburyo ki yatambuka, afashe ku byuma bibiri kugira ngo arusheho gukomera no kubaho mu buzima bwiza buzira umuze, abaganga ni abantu beza cyane, bafasha abarwayi gutuma bamera neza bakagira ubuzima bwiza kandi burambye.

Umuganga n'umusaza ubona ko umusaza yicaye yabagannye, ubona ko umuganga arimo amubaza icyo bamufasha n'uko yumva ameze, kugira ngo barusheho kumuha serivisi nziza kandi inoze, ni byiza ko igihe cyose wowe nk'umuganga ubona umurwayi ugomba kumwegera, cyangwa se umuntu uje ugusaba serivisi, ugomba kumwegera ukamubaza icyo ashaka kugira ngo urusheho kumuha ibisobanuro byimbitse ku cyo ashaka atayoba.

Umuryango umeze neza, ubona harimo abana, ababyeyi babo n'umusaza ubona bishimye cyane, basa nk'aho barimo baganira bishimiye ukuba bahuye nanone nk'umuryango, ni byiza ko umuryango uhura ugaterana, ukaganira ku biwugize ndetse no ku byawuteza imbere.

Ababyeyi babiri n'umukobwa umwe, ubona bishimye cyane ubona ko ari abantu batatubona bari gukina kugira ngo barusheho kwishima nkuko tubizi kwishima ni imwe mu nzira nziza byongerera iminsi abantu yo kubaho. Twishime kugira ngo turusheho kongera iminsi yacu yo kubaho no kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa urimo yita ku musaza amusunika kugira ngo amwereke ko amukunze, nyine amuhe keya kugira ngo bere kwiheba. Ni byiza ko dufata abantu bose kimwe abafite ubumuga n'atabufite. Ni byiza ko tubitaho kimwe kugira ngo barusheho kumva bameze nk'abandi babayeho bishimye.

Umukobwa ubona uri muri siporo yishimye kuko siporo ni imwe mu miti myiza ituma umubiri wacu ukomeza kumera neza no kugira ubuzima buzira umuze, ni byiza ko dukora siporo ko zidufasha kugira ubuzima bwiza kandi no gutuma tubaho neza mu buzima buzira umuze.

Ababyeyi n'abana babo ubona bishimye cyane bamwenyura bavuga bati: "Ubuzima ni bwiza." Nibyo byiza kwita ku bana bacu mu gihe tukibafite kugira ngo babeho mu buzima bwiza kandi batihebye. Ni byiza ko twita ku bana bacu nk'ibisanze kugira ubuzima burusheho kugenda neza, tubavuza, tubitaho, tubaha keya, kugira ngo barusheho kwitekerezaho no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari abantu batatu, umukobwa, umukecuru, umusore ubona ko bari kwaruza amafunguro kugira ngo barusheho gukomeza kongera iminsi yo kubaho, kandi baruje ibiryo byiza, ibiriho imboga ndetse n'ibindi byafasha umubiri kurushaho kumera neza cyane, kurenza uko byari bimeze kugira ngo abantu barusheho kubaho neza mu buzima buzira umuze.

Umubyeyi uri kumwe n'akana ke, harimo n'undi muntu umeze nk'umumama mukuru, ubona bishimye baseka ko bameze neza, ubuzima ni bwiza cyane kuko urabona bameze neza, barishimye...

Umukecuru ubona wishimye uko ameze ubona ari muri siporo arushaho kunanura intoki ze ni byiza ko twita ku mibiri yacu tunura ingingo zimwe na zimwe kugira ngo imitsi irusheho gukora neza ikwirakwize amaraso mu mubiri turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umurwayi ubona ko ari kugendera ku nkoni zabugenewe zibafasha kugenda kugira ngo arusheho gutera intambwe urabona ko umuganga yamufashije gutambuka yamwishimiye cyane kuko aricyo kazi basabye ni byiza ko abaganga bafasha abarwayi kugira ngo badufashe turusheho kumera neza no kugira ubuzima buzira umuze.

Umusaza ubona ko yicaye arimo asoma ibitabo kugira ngo arusheho kuruhuka mu mutwe, ni byiza ko igihe cyose wumva unaniwe wagerageza gukora siporo cyangwa se ukicara ugasoma ibitabo kugira ngo urusheho kuruhuka no gutuma ubuzima bwawe bukomeza kumera neza.

Abantu babiri umukobwa n'umusaza ubona bishimye kuba bariho mu buzima bwiza bwisanzuye, babayeho neza urabona ko basetse, barasa neza cyane kurenza uko wowe ubitekereza. Ni beza barasa neza.

Umubyeyi n'umwana ubona ko bishimye, bari gutegura amafunguro afasha umuntu kongera ibirinda indwara, nk'urugero inyanya, amashu, ndetse ubona ko bishimye cyane bagiye guteka, ibiryo bifasha umuntu kongera intungamubiri mu mubiri, ni byiza ko duteka ibirinda indwara, kugira ngo imibiri yacu irusheho kubaho nta kibazo kirimo dufite ubuzima buzira umuze.

Umuganga uri gufasha umubyeyi yicaye neza rwose yitaye ku mubyeyi kugirango arebe ko umubyeyi yamera neza akarushaho kongera iminsi yo kubaho, umuganga ni umuntu ufasha abarwayi bose bafite ikibazo akabafasha bakamera neza.

Ahantu heza hicaye abakecuru, ubona ko barimo baganira kugira ngo bamenye aho isi iba igeze, hari abandi bantu bahari bari kubafasha kubasobanurira ibintu runaka ubona ko babakurikiye, inyuma yabo hari insina za kinyarwanda nk'uko tuzizi, insina zimwe batera zikazaho igitoki...

Umukecuru ubona ahagaze yishima asetse, afite isahani iriho ibiryo birimo intungamubiri, harimo imboga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga, ni byiza ko twita ku buzima bwacu turya indyo yuzuye kugira ngo turusheho gukomeza kubungabunga ubuzima bwacu kandi tugire ubuzima buzira umuze.

Umusaza ubona wicaye hasi arimo gusoma kugirango abashe kuruhuka. Ni byiza ko igihe cyose tunaniwe, twicara hasi tukaruhuka kugirango turusheho gushyira ubwonko ku gihe dutekereze neza.

Umurwayi urwaye ku gitanda ubona ko arembye, gusa muganga ari hafi ye arimo amwitaho, ubona ko muganga ari gukora uko ashoboye kugira ngo amwiteho atume ubuzima abugumana ntibumucike. Abaganga ni abantu bakunda gufasha abarwayi cyane kugira ngo barusheho kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze, batugira inama nyinshi zatuma turushaho kugira ubuzima buzira umuze, nk'uko bigaragara ari kwita ku murwayi.

Umukobwa ubona ari kwita ku musaza wicaye mu ntebe, ubona ko arimo amubwira ati mukobwa wanjye njyewe nyitaho ku buzima bwanjye. Ni byiza ko twita ku buzima bwacu nk'uko tubisabwa na RBC nk'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima. Ni byiza ko twita ku buzima bwacu. Tubungabunge ubuzima bwacu kuko ni yo mari dufite, ni nabwo bizadufasha kugira ejo hacu heza hazaza.

Umukecuru ubona arimo anywa amazi yifashe ku mazuru, ni byiza ko tunywa amazi afite isuku kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu no kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tunywa, amazi ni isoko y'ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuganga ubona ari kwita ku murwayi arimo amunurira imitsi, kugira ngo arusheho kumera neza no kugira ngo imitsi ye, irusheho gukomeza gukora kandi irambutse, ubona ko umugabo yishimye cyane ku bufasha yahawe n'umuganga, ni byiza ko abaganga bafasha abarwayi buri gihe uko babaganye, kugira ngo barusheho kubaho mu buzima bwiza buzira umuze.

Umubyeyi ubona ari kwita ku mwana we amwigisha utuntu dutandukanye bifashishije udupapuro barambitse ku meza. ubona umwana yishimiyemye kuba yitaweho n'umubyeyi we byamufashije no gutekereza neza akabona yishimye. ukabona ko yakinnye ni byiza ko ababyeyi bakinisha abana babo kugira ngo barusheho kubaho bisanzuye nta kibazo bafite.

Bwiza tubona ko hateraniye abantu benshi basa nk'abari mu nama baganira ku ngamba nziza zatuma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza kubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze dukora siporo ndetse n'ibindi bitandukanye nk'ingamba zafashwe na leta zibona ko twazikoresha bikadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ahantu heza harambitse ibikoresho ubona byifashishwa kwa muganga mu gupima umurwayi kumenya ko umutima we uri gutera harimo igikoresho cya pompe cyifashishwa n'umuganga atera umuti umurwayi cyangwa amukingira. Ni byiza ko twifashisha ibi bikoresho kandi tukanabirinda kugira ngo birusheho kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igishushanyo cyiza kigaragaza ingamba nziza twakoresha kugira ngo twite ku buzima bwacu, ni byiza ko ukirwara ugana ibigo byagaragaye kuri iyi shusho kugira ngo bigufashe kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze igihe wumva utameze neza banakubwire ikibazo ufite kugirango ubashe kwiyitaho no kwita ku buzima bwawe burusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo uhagaze ufite igishushanyo kigaragaza ko urukingo rw'ubushita bw'inkende rwagiye hanze. Ubu abantu bashobora kwikingiza kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze birinda indwara nk'izo ngizo z'ibyorezo, nk'iyi virusi ya monkey pox.

Ishusho nziza igaragaza uko twagakwiye kujya tujugunya imyanda. Tugomba kugira aho tujugunya imyanda ibora n'itabora, mu cyatsi tujugunyamo ibibora, mu bururu tukajugunyamo ibitabora. Turusheho kubungabunga ibidukikije tujugunya imyanda yacu ahabugenewe, mu bururu hajugunywamo ibitabora ,mu cyatsi tujugunyamo ibibora, mwese duhurize hamwe dukusanye imyanda dushyire ahabugenewe.

Ababyeyi bateruye abana ubona ko bagiye kwa muganga ku kigo nderabuzima gukingiza abana kugira barusheho kumera neza no kubaho mu buzima buzira umuze, urabona ko bishimiye kuba bakiriwe neza, bakaba bicaye kandi batuje bategereje, ko bahabwa serivise.

Ishusho nziza irimo igaragaza agapimone keza, kwa muganga bifashisha bapima abantu ko umutima uri gutera neza, hari agapombe kifashishwa mu gutera abantu urushinge, mu kubongerera amaraso, banabasuzuma kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ahantu heza hari inyubako nziza cyane, aho bafashiriza abagore mu kubagira inama no kubitaho kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza no kugira ngo bazabashe kwita ku bo bazabyara kugira ngo babafashe bakura mu igwingira bakure bameze neza, ari abasore bafite ubuzima buzira umuze.

Abantu bane, ubona barimo babwira abantu berekana ingamba nziza zo gukoresha imiti ya kinyarwanda, ndetse n'ingamba nziza twakoresha kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, dukurikiza ingamba tugirwa n'abantu babizi b'inzobere ku buzima.

Ahantu heza ubona ko hateraniye abantu benshi, imbere hari ababyinnyi. Ubona ko ari ahantu hagiye gutangirwa ingamba zo kubungabunga ubuzima. Arabisi ni yo ishinzwe ibintu bijyanye no gukwirakwiza ndetse no gushyiraho ingamba zo kwirinda kugira ubuzima bubi. Tubungabunge ubuzima bwacu nkuko tubishishikarizwa n'ikigo cyiza cy'ubuzima Arabisi.

Abaganga bane ubona bari kwita ku murwayi basa nk'aho bari kumubaga kugira ngo arusheho gukomeza kumererwa neza. Urabona ko bambaye udupfukamunwa n'imyenda yabugenewe bambara iyo bagiye kubaga umurwayi. Ni byiza ko twita ku buzima bwacu igihe twarwaye tukajya kwa muganga bakadufasha aho biri ngombwa tukabagwa aho bitari ngombwa nyine tugahabwa imiti tugafashwa.

Ahantu heza hagaragara nko muri sale ubona hahagaze umugabo habereye inama ku nshuro ya kabiri mpuzamahanga yiga ku bijyanye n'ubuzima no kurushaho kubungabunga ubuzima bw'abantu kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu, turusheho kugira ubuzima buzira umuze. Twite ku buzima bwacu nibwo bwiza bufite ireme buzadufasha kugera kuri byinshi mu buzima bwacu.

Umuntu uhagaze ufite igishushanyo kiriho kigaragaza ko urukingo rwasohotse, rwakoreshwa kandi rwageze hanze, rushobora gutuma abantu birinda ubushita bw'inkende, ubundi bakikingira bakabaho neza mu buzima buzira umuze nk'uko iyi shusho ibigaragaza batweretse hano.

Igishushanyo kigaragaza uko abantu barwanya igwingira bifashishije, ibyagaragajwe nko kugaburira abana amafunguro, yuzuje ubuziranenge ndetse n'intungamubiri nk'ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, kugira ngo barusheho kurwanya igwingira.

Ahantu hari abantu benshi ariko cyane cyane hari umuganga ubona ko arikwita ku murwayi amupima kugira ngo arebe uko ahagaze. Urabona ko hirya hariyo abaturage benshi bategereje ngo na bo babakorere kugira ngo bamenye uko bahagaze. Hari n'abandi bantu hirya bameze nk'abaganga bambaye udutaburiya tw'umutuku barigufasha abarwayi kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze babapima umuvuduko w'amaraso.

Ahantu heza hahagaze umukobwa mwiza imbere y'abantu ubona ko arimo ababwiriza anabigisha ibyiza byo kwita ku buzima bwabo urabona ko ari kubigisha ingamba bakoresha kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. harimo nko gukora siporo ndetse, no kwita ku mibiri yacu dukora ibintu binyuranye bitandukanye bifasha umubiri wacu, kurya indyo yuzuye, harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara.

Umugore, madamu Jeannette ubona ko arimo ababwira abantu inama nziza n'ingamba nziza zakoreshwa kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hateraniye imbaga y'abantu benshi baganira ku ngamba nziza zafatwa zikaba zafasha abaturage kubungabunga ubuzima bwabo no gutuma bakomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukurikiza ingamba kugira ngo turusheho kwita kuzima bwacu no kubungabunga ubuzima bwacu turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu benshi ubona bateraniye ahantu mu nama, kugira ngo baganire ku ngamba z'ibijyanye n'ubuzima kugira ngo bite uko barwanya indwara mbi, zigwingiza abana ndetse no kugira ngo bige uko bazamura imibereho myiza y'abaturage muri rusange bagira ubuzima bwiza.

Ingamba zafashwe mu mwaka w'ibihumbi cumi na gatanu zifashwe na minisiteri y'ubuzima ku kubungabunga ubuzima bwa buri munsi bwa muntu kugira ngo abantu barusheho kwiteza imbere bafite ubuzima buzira umuze. Ni byiza ku tubungabunga ubuzima bwacu kuko niyo ntwaro n'imari dufite.

Ahantu ubona hateraniye abantu benshi hari abagore aribo bahiganje, bari kugirwa inama no kumva ingamba zafashwe kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu. Ni byiza ko abayobozi n'abandi bakangurambaga bagira inama no kwibutsa kugira inama abantu bose kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo barya intungamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza ubona hari ishusho igaragaza ukuntu twagakwiye kwita ku buzima bwacu ndetse dukurikiza ingamba tugirwa n'ingamba ziba zarafashwe, ni byiza ko dukurikiza ingamba zo kubungabunga ubuzima bwacu kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hagaragara nkaho habereye inama ku kijyanye na marubaga kugira ngo habeho kurwanya marubaga kugira ngo abantu birinde iyo ndwara itazabahitana, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yabereye Kigali ahantu heza muri sare hagezweho.

Ahantu heza hari utuntu twiza ubona turi kugaragaza ingamba zafashwe zatuma abantu bita ku buzima bwabo, harimo nko kurya intungamubiri, kunywa amazi meza no gukora siporo.

Ahantu heza ubona hateraniye abantu benshi, biganjemo urubyiruko. Ubona ko bari gufata no kwigishwa ingamba nziza zo kubungabunga ubuzima bwabo kugira ngo babukure mu kaga ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu. Kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umuntu mwiza ugaragara aratanga inama z'ukuntu twagakwiye kubungabunga ibidukikije, kugira ngo birusheho kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bidufasha kuduha umwuka n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, kandi ibidukikije ni byo bidufasha gukuramo imiti yadufasha mu gutuma ubuzima bwacu bubaho mu buzima buzira umuze.

Ahantu heza ubona hateretse imiti itandukanye mu kabati ubona ko ari ahantu heza umuntu ashobora kwegera bakamufasha bakamuha imiti ijyanye n'ububabare afite cyangwa n'uburibwe afite n'indwara arwaye akarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tugane ibitaro badufashe kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu benshi ubona bicaye barimo baganira ubona ko bagannye ahantu hari inyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kwitabwaho bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko igihe cyose wagize ikibazo ugana aho ku mavuriro bakagufasha.

Ahantu heza ubona ari inyubako itanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi no kumenya uko ubuzima bw'abantu buhagaze ni byiza ko igihe cyose twagize ikibazo tugana ibigo nk'ibi bikadufasha kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze kugira turusheho kubungabunga ubuzima bwacu turushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari ibikoresho byifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'abantu buhagaze. Ni byiza ko dukoresha ibikoresho byose kugira ngo turusheho kubungabunga uko ubuzima bw'abantu buhagaze. Abantu, abaturage ndetse n'abandi bantu batandukanye, barahagana bagahabwa serivisi nziza zirimo kubabwira uko ubuzima bwabo buhagaze babapimye.

Ahantu heza ubona hari inyubako nziza cyane zitanga serivisi ijyanye n'ubuvuzi, ni byiza ko twita ku bikorwa remezo nk'uko biba byarutse ngo biduhe serivisi nziza, ni byiza ko tubigana bakanadufasha kwita ku buzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nziza cyane ubona ko ari kwa muganga hafashirizwa abarwayi ubona hari umuganga uri kumwe n'umurwayi amutwaye mu cyumba cyiza kugira ngo abashe kumufasha, ni inyubako nziza cyane ni ibikorwa remezo bifasha abaturage kugira ngo ba ahabwe serivisi zimwe na zimwe nk'ubuvuzi n'ibindi bitandukanye.

Ahantu heza hari inyubako hicaye aba mama ubona ko ari muri laboratwari ari ahantu baza gupimira abantu uko bahagaze cyane cyane nko kureba uko bahagaze mu magara yabo, nko kuhapimira SIDA n'izindi ndwara zose kugira ngo bamenye uko bahagaze, haza ababyeyi batwite kugira ngo babarebere uko inda zihagaze banamenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ahantu hasa neza hari icyuma cyabugenewe abantu banyuramo kikabasikana ko nta kibazo bafite mu mubiri wabo, umuntu wese ufite ikibazo mu mubiri ahatagaragara agomba kwegera ibitaro bikamunyuza muri sikaneri kugira ngo arusheho kumenya uko ubuzima bwe buhagaze, iki cyuma gifasha buri muntu wese ukeneye kumenya uko umubiri we uhagaze, kumenya uko ahagaze.

Ahantu heza hasa neza hari inyubako nziza ubona ko itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse ni byiza ko tugira inyubako nziza nkiyi. Izi nyubako zifasha abaturage kwegera serivisi zimwe na zimwe no kubafasha kubaha imiti kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu bwa buri munsi.

Icyapa hafi y'umuhanda kigaragaza ahantu runaka icyapa ni igikoresho abantu bashyira ku muhanda kugira ngo berekane ibyo bakora cyangwa se bagaragaze ahantu runaka kugira abantu batayoba kiri hafi y'igipangu munsi gato imbere yayo hari lkona mu muhanda rigaragaza ko umuntu atemerewe kuhanyura cyangwa guca hanze.

Ahantu heza hari ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu isuzuma ry'abantu kugira ngo bamenye uko mu mibiri yabo bahagaze kandi kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze, ni ngombwa ko babigana bakababwira uko mu buzima bwabo bahagaze mu maraso yabo ndetse no mu mitekerereze yabo, kugira ngo barusheho kumenya uko bakwitwara kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu hari inyubako nziza zifasha abarwayi kuhagana bakabasuzuma. Ubona hari ibikoresho byiza bigezweho bituma abarwayi bamenya indwara zose barwaye, ahantu bashobora kujya bakanahakorera siporo bakarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, bakahigira kugenda igihe nta mbaraga bafite ni byiza ko tugana ibigo nderabuzima no kwa muganga kugira ngo badufashe kuko aricyo habereyeho.

Umuganga wambaye agapfukamunwa na baji yashyize mu mufuka, yambaye ishati y'ubururu, urabona hirya ye ku gitanda umurwayi, abantu bandi hirya, urabona ko ari ahantu binjirira baje kwa muganga no kwakira abarwayi, ni ahantu bifashisha bavurira abantu kugira ngo babashe kwitabwaho umunsi ku munsi.

Ahantu heza ubona haparitse imodoka nyinshi, hari inyubako ubona ko ari mu mujyi wa Kigali, hari umuntu urimo uzereka uko ziparika kugira ngo zirusheho kurinda akavuyo aho hantu. Hari imodoka nziza cyane zifashishwa mu gutwara abantu, bava hamwe bajya ahandi kugira ngo zoroshye urugendo rwabo, bere kuvunika cyane.

Inyubako nziza z'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ahantu heza hasa neza cyane ubona ko hatangirwa serivise z'ubuvuzi nko ku kigo nderabuzima nk'ibisanzwe, hatangirwa serivise zituma abarwayi bafashwa bakamererwa neza, bakongera kuba abantu cyane cyane iyo barembye, babajyana hano bakabafasha kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza hari inzu yo kwa muganga, ari ho ababyeyi babyarira, ari ho bita muri materineti. Ni ho bitira ku babyeyi barwaye, bakabitaho kugira ngo barusheho kugubwa neza, kumererwa neza ndetse no kwita ku bana babo babyaye kugira ngo barusheho kubyara abana beza, basa neza kandi badafite ikibazo, bazira umuze.

Ahantu heza hari inyubako ifasha abarwayi kuba bayigana bakabafasha, ubona hari umwana w'umukobwa umuganga arimo gupima kugira ngo amenye uko ahagaze. Ubona amupima akaboko ameze nkumupima umuvuduko w'amaraso no kugira ngo amenye uko umutima we uri gutera amenya ikibazo afite, ni byiza ko igihe cyose tugize ikibazo tugana kwa muganga bakadufasha.

Ahantu hari abantu benshi ubona ko baje guhabwa ibikorwa byerekeranye n'ubuvuzi, harimo n'abandi bambaye amataburiya ubona ko ba ameze nk'abajyanama b'ubuzima batonze umurongo bari guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima, ubona hari n'umuntu ubana n'ubumuga wiciye mu kagare wahawe serivisi neza cyane, ubona ko yishimiye kuba yahawe serivisi.

Abaganga bicaye neza ubona bishimye barimo bareba uko imiti ikora, basuzuma ubona bishimiye kuba bari gusuzuma kugira ngo bazabone uko bafasha abarwayi batitaye kuko bamerewe. Babafashe kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza banitangire abarwayi, bamenye uko bahagaze babasuzume babahe imiti ibafasha.

Muganga ubona yicaye atuje, ubona ko yicaye ahantu hatangirwa serivisi ushobora kugenda akagufasha agasuzuma umubiri wawe akakubwira uko umubiri wawe uhagaze, ukarushaho kuwitaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza buzira umuze. Ni ngombwa ko buri gihe tugomba kwegera abaganga bakadufasha kumenya ubuzima bwacu buhagaze, kugira ngo tuvane amagara yacu mu kaga.

Inyubako nziza ubona ko ari ahantu abagore babyarira, kugira ngo barusheho gukomeza kwitabwaho bari kwa muganga . Ni byiza ko umugore wese utwite agomba kubyarira kwa muganga, kugira ngo arusheho kwitabwaho adapfa. Ni byiza ko igihe cyose ugize ikibazo ugana ikigo nderabuzima bakagufasha. Ni inyubako zubatse kugira ngo zitangwe serivisi ku baturage.

Inyubako nziza ubona ziri ahantu heza hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, ni byiza ko igihe ugize ikibazo cyose ugana kwa muganga bakagufasha kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nziza. Inzu n'ibikorwa remezo leta yubaka kugira ngo bifashe kwegereza serivisi abantu ndetse kugira ngo barusheho kunogerwa na serivisi zihatangirwa ni byiza ko tugana inyubako nziza cyangwa ibikorwa remezo bya leta byubakiwe gutanga serivisi kugirango ngo turusheho kwegereza serivisi abantu no kugira ngo turusheho guhabwa serivisi nziza.

Inyubako nziza ubona ari ahantu haparitse imodoka na moto, ubona ko ari inyubako ifasha abantu kuba bahagana bagahabwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ni byiza ko igihe cyose ugize ikibazo ugana serivisi bakagufasha ku kukuvura ahantu hari ibitaro.

Ishusho nziza umuganga aho agaragara afashe umwana amwitaho, kugira ngo umwana azakure neza bamwitaho umuganga ubona yishimiye kumufasha kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze. Umwana ni mwiza n'umutware twite ku bana kugirango ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Kwa muganga aho bari kwita ku murwayi ubona hari abaganga babiri bari kwita ku murwayi umwe uryamye ubona ko arembye, abaganga ni abantu bafasha umurwayi kumera neza igihe arwaye kugira ngo arusheho kongera iminsi yo kubaho no kugira ngo akire abeho mu buzima bwiza buzira umuze nk'abandi bose.

Inzu nziza igaragara nk'igikorwa remezo cyakira abarwayi kugira ngo kibafashe kubavura ndetse no kubaha imiti ibafasha ku ndwara basanzwe bafite, umuntu wese urwaye arabagana nuko bakamufasha, agakira indwara arwaye mu buryo bworoshye bamuha imiti imufasha kuvura izo ndwara.

Ahantu heza, hasa neza, hari intebe, ameza ndetse na mashini, ubona ko ari mu biro, ahantu umuntu ashobora kugenda akeneye serivisi bakamufasha. Intebe ni ibikoresho abantu bicaraho ndetse hari n'akabati babitsemo ibikoresho kugira ngo babyifashishe mu gihe babikeneye.

Ahantu heza ubona ko ari mu cyumba kirimo igitanda kirimo ibikoresho bitandukanye bisuzuma umurwayi igihe aje kwa muganga. Hari akuma bamanikaho serumu kugirango umurwayi abashe kwakira serumu imanuka neza, ni byiza ko twegera kwa muganga igihe cyose twarwaye kandi tukangabunga ibikoresho byiza bidufasha mu buvuzi.

Abantu bagera kuri batanu ubona bishimye bahagaze imbere y'ahantu bapimira abantu aho bakunze kwita laboratwari, inzu nziza cyane ifasha abantu kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze no kugenzura imiti imwe n'imwe kugira ngo ibashe gufasha abaturage yizewe.

Ahantu heza ubona ko ari inyubako y'ibitaro nziza cyane iri ahantu heza hari amatara. Inyubako ni nziza cyane ubona ko izafasha abantu benshi kubakira, bigatuma barushaho kwitabwaho nk'abarwayi bagafashwa, tukagabanya ipfu z'abantu batunyura mu myanya y'intoki kubera ubukeya bw'Ibitaro, cyangwa bw'aho kwakirira abarwayi.

Ahantu heza hasa neza ubona ko ari kwa muganga, wagirango ngo ni ahantu habika imiti, hari ibikoresho byifashishwa mu gucunga no kureba neza uko abantu bamerewe imbere mu mibiri yabo, hari ameza, hari ahantu babika ibikoresho runaka, hari na puberi nziza za kizungu zigezweho wifashisha ubitamo imyanda kugira ngo dufashe kubungabunga isuku.

Inyubako nziza, ahantu hari porutaye nziza i Nyanza. Ni ahantu hari ibitaro bifasha abarwayi kumera neza igihe bagize ikibazo, ni byiza ko igihe cyose twagize ikibazo tugana ibitaro tugafashwa guhabwa serivisi zitandukanye.

Ahantu hasa neza ubona ko abarwayi ariho babafashiriza barembye kugira ngo babashe kwitabwaho, bakabanyuza mu byuma bitandukanye kugira ngo bamenye uko bahagaze. Ubona ari ibikoresho byiza bya kijyambere bifasha abaganga kumenya ubuzima bw'abantu uko buhagaze neza.

Abakobwa batatu bambaye neza, bambaye amashati asa y'ubururu, ingofero nziza cyane z'ubururu bishimiye uko bameze kuko ubona banezerewe n'ubuzima babayemo, ubona bishimye neza cyane bambaye imyenda ijya kumera nk'aho ari abaganga.

Inyubako nziza, inzu ni igikorwa remezo cyubakwa kugirango gifashe abantu, ubona ko iyi nyubako ari iy'ubuvuzi ishinzwe gusuzuma no gukora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye kugirango barusheho kubungabunga ubuzima bw'abaturage muri rusange.

Icyumba kiza cyane kigezweho, kirimo ibikoresho bigezweho bifashanya kwa muganga gupima uko umuntu ahagaze, umuntu ashobora kuza agakoreraho, agapima uko ahagaze kugira ngo arusheho kumenya aho ubuzima bwe buri, ashobora kuza agakoraho siporo kugira ngo aruhuke anabashe kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hagaragara neza hari abantu ubona bahifotoreje ku cyapa kigaragaza Butaro, ibitaro byaho uko bimeze kandi ibitaro bya Butaro bifasha abantu kubavura indwara za kanseri kugira ngo barusheho gukomeza kubaho neza mu buzima buzira umuze, wagana ibyo bitaro igihe cyose ufite ikibazo cy'indwara ya kanseri bakagufasha.

Ahantu heza basa n'aho bahavurira abana, babafasha kugira ngo barusheho kugira imibereho myiza n'ubuzima buzira umuze, nk'u Rwanda rw'ejo cyangwa se nk'urubyiruko rw'ejo hazaza, ruzafasha isi, ni ngombwa ngo bite ku bana cyane, hari ibitaro byiza cyane bifasha abana ubona hari intebe, igitanda cyiza, gisuzuma uko abana bameze.

Ahantu heza haparitse umumotari, hahagaze n'umuntu hafi mu muryango, ubona ko ari inzu nziza ihari, irimo ikorerwamo farumasi ibijyanye n'ubucuruzi bw'imiti kugira ngo barusheho kwita ku buzima bw'abantu, wabagana ukagurayo imiti bakagufasha bakorana na RAMA.

Ahantu heza ubona ko ari inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byinshi bitandukanye bifasha abarwayi kumenya uko bahagaze, ubona harimo umugabo ufite icupa mu ntoki wambaye agapfukamunwa na ga z'ubururu n'itabura y'umweru, ubona ari gusuzuma umuti kugira ngo amenye ese uyu muti wafasha umurwayi gute kugira ngo arusheho kuwuha umurwayi azi icyo wamuvura n'icyo wamufasha ni byiza ko twita ku buzima bwacujyaho turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako nziza cyane ubona ko ari inyubako iherereye i Remera-Rukoma, aho hatangirwa serivise ku bantu bahohotewe kugira ngo barusheho kwitabwaho ndetse banafashwe kugira ngo bamenyekane uko bafashwa mu kuba bahohotewe. Ni byiza ko igihe cyose wahotewe ugana ahantu nk'aha hatanyeho serivise nziza nk'izi kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwawe, urusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari inyubako nziza haparitse imodoka hasa neza hari gerde nziza, hari abantu ubona ko hashobora kuba hatangirwa serivisi zerekeranye n'ibijyanye n'ubuzima, kwita ku bantu ndetse no kubafasha kubaho neza kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza, harasa neza, hagaragara nk'aho ari ahantu bagurishiriza imiti, ahantu umuntu ashobora kugenda akagura imiti mu gihe arwaye kandi bahakirira abarwayi bose bafite ikibazo cyo kuba bafite uburwayi runaka, bakabafasha, bakabaha imiti kugira ngo barusheho kubaho neza mu buzima buzira umuze.

Ahantu heza hasa nko kwa muganga, hari umuntu w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, hari imashini imuteretse imbere n'ibindi bikoresho byose byifashishwa mu kazi, hari kompiyuta, hari intebe, harasa neza, ubona ko hari ibikoresho byiza rwose bya kizungu, byifashishwa mu mikoresherezwe y'ubuganga.

Inyubako nziza, ubona ko ari ahantu hasa neza hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima no kuba bavura abantu indwara zimwe na zimwe barwaye, ni byiza ko igihe cyose urwaye, wowe murwayi jya kwa muganga bagufashe ni cyo babereyeho kandi bazagufasha gutuma ugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hagaragara nko kwa muganga, ubona abarwayi baryamye, hari n'ibitanda bibiri biriho ubusa, ubona harimo abarwayi babiri ubona ko barembye pe, nyine bahawe ibitaro kugira ngo babashe kwitabwaho bakiri kwa muganga, barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ni byiza ko igihe cyose twarwaye tujya kwa muganga bakadufasha.

Ahantu hasa neza hari inzu nziza, hari jaride, ibiti, umunara hakurya, harasa neza, jaride irasa neza, abantu ubona basa n'abategereje serivise, hameze nk'ahatangirwa serivise zo gufasha abaturage kumenya ibyiza by'isi muri rusange ndetse n'igihugu cyabo mu iterambere.

Icyumba kiza cyane kigaragaza, aho umurwayi ashobora kuza agasuzumirwa harambitse amaserumu ndetse hari n'ibyuma byifashishwa mu kureba uko umuntu ahagaze ndetse kugira ngo bamufashe igihe arwaye, igitanda cyiza cyane ashobora kuryamaho aruhuka mu gihe bamwitaho.

Umusore wambaye imyenda y'ubururu isa, ishati n'ipantaro by'ubururu ari kumwe n'umu mama wambaye ikanzu y'ubururu, ubona baganira bishimye, inyuma yabo hariyo insina, indabo ndetse ubona ko yamusuye mu rugo afite agapimo gapima uko umutima w'umuntu ukora. Nk'uko umutima w'umuntu uba uri gutera, urabona ko yamusuye kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze anamufashe kumenya aho isi igeze.

Ahantu heza hari inyubako nziza zigezweho kuri Kaminuza ircad Africa aho hasa neza. Abantu bahajya bagiye kwiga kugira ngo bazabashe kwibeshaho no kwiteza imbere bateza imbere n'Igihugu cyabo kugira ngo tubane neza mu mahoro biga yo muri ircad Africa ni Kaminuza nziza cyane.

Ahantu heza ubona ari ku bitaro bya Kabgayi ahantu heza hafasha abarwayi kuba bahabwa imiti bakitabwaho no ku buzima bwabo bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Igihe cyose turwaye twegere ibitaro badufashe kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umurwayi ubona uryamye ku gitanda ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho, ubona ko bari kumwitaho kugira ngo arusheho kumererwa neza kugira ngo abe neza akire. Ni byiza ko umurwayi igihe arwaye, umuganga amwitaho akamuha serivisi nziza kugira ngo atamutera agahinda akarushaho kwiheba akaba yapfa, akamugira n’inama zo kumwumvisha ko ari bubeho, ari bukire rwose nta kibazo.

Ahantu hari inyubako nziza igaragara nk'aho ari kwa muganga, ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kwita ku buzima bw'abaturage. Ariko urabona ko hari intebe zakira abaturage rwose kugira ngo bicare bishimye mu gihe bategereje guhabwa serivise. Ni byiza ko twubaka ibigo byiza byo gufasha abaturage kwitabwaho mu buzima bwabo, bakarushaho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza hasa neza hari ibikoresho byiza byifashishwa mu kwita ku buzima bw'abantu bwa buri munsi kugira ngo barusheho kubaho mu buzima bwiza buzira umuze, ni byiza ko tugana ibigo nderabuzima igihe twagize ikibazo kuko inyubako zihari ni izacu kugira ngo tuzigane badufashe twite ku buzima bwacu neza.

Ahantu heza ku bitaro bya Rwamagana, aho hari abantu bahahagaze imbere, ubona ko ari ibitaro bishya byari byarafunguwe kugira ngo barusheho kongera amavuriro afasha abarwayi kumera neza kuko ibitaro bituma abarwayi barushaho kumererwa neza, bitabwaho, bagahabwa serivisi zabafasha gutuma barushaho kugira ubuzima buzira umuze, binyujijwe mu baganga, ari bo babafashije.

Ahantu heza ubona ari mu nyubako ifasha abantu kumenya ingamba zijyanye n'uko bakwita ku buzima bwabo nk'uko bigaragara handitseho RBC, iyi RBC nk'ikigo cyiza cy'Igihugu gishinzwe ubuzima, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu nk'uko tubishishikarizwa na RBC.

Umubyeyi urigupimisha umwana ibiro ku munzani mwiza wo kwa muganga kugira ngo bamenye uko ubuzima bwe buhagaze, ko niba umwana abayeho neza cyangwa nimba ari mu mirire mibi kugira ngo bamenye aho ubuzima bwe buhagaze. Aho ubona umubyeyi wiwe amurebana ubwuzu umwana yishimiye kuba bamwitayeho, n'umubyeyi ubona ko yishimiye uko yakiriwe no kuba bamufashije bakamenya uko umwana we ahagaze bakamupima n'ibiro.

Inyubako nziza cyane yakira abarwayi kugira ngo babapime bamenye uko bahagaze. Ubona harimo ibikoresho byiza muri icyo cyumba hasa neza, hari n'aho bajugunya imyanda muri pubele kugira ngo barusheho kwirinda umwanda mu byumba nk'ibi. Ni byiza ko bakira abarwayi bakabashyira ku bitanda byiza bihari, ubona ko hari ibikoresho byose bishobora kwifashishwa mu gupima umurwayi no kumenya uko ubuzima bwe buhagaze kugira ngo bamwiteho.

Umubyeyi wishimye cyane, uteruye umwana ari kumwe n'umuganga ubona ko bishimye, umubyeyi yishimiye kuba afite umwana, inyuma yaho gato hari ibikoresho bigaragaza ko ari kwa muganga, kandagira ukarabe za kizungu nziza.

Ahantu heza, hakorerwa siporo ngororamubiri, kugira ngo abantu barusheho kumera neza. Ni byiza ko dukora siporo, zizadufasha mu buryo butandukanye. Urabona ko zifatwa nk'imiti ivura umubiri w'abantu, zigatuma imibiri y'abantu ihora imeze neza.

Inyubako nziza igaragaza ibitaro biherereye i Kanombe bya gisirikare, ni byiza ko igihe cyose umuntu yarwaye agana nibitaro kugirango ngo irusheho guhabwa ubufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza ko twita ku buzima bwacu tugana kwa muganga kugira ngo badufashe

Abajyanama b'ubuzima bicaye bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi ababyeyi babyariramo ariyo bita materinite. Urabona ko ari inyubako nziza igaragara neza kandi ariyo yakira abarwayi bakarushaho kubyara neza cyane cyane abagore. Ni byiza ko abagore bose babyarira kwa muganga kugira ngo ngo turusheho kugabanya ipfu.

Ahantu heza hasa nkaho hari muri sare, hari intebe nyinshi nziza kandi hakeye, hifashishwa habera inama, ni icyumba cyiza cyane, hasukuye, hari ameza, hari ahantu abantu bicara, na ho abandi bantu bahagarara babwira abicaye, ibyo bashaka ko bumva.

Inyubako nziza ubona ko mu nzu hasa neza, ahantu hafashirizwa abarwayi ubona ko hari ibyumba bitandukanye abarwayi bafashirizwamo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko twifashisha ibintu bikurikira kugira ngo twerekeze kwa muganga badufashe.

Ahantu heza ubona ko hari ibikoresho byifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'abantu buhagaze no kwita ku buzima bwabo bwa buri amatwi ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tubungabunge ubuzima bwacu turusheho kugira ubuzima buzira umuze tugana ibitaro bitwegere kugira ngo badufashe kuko bafite ibikoresho byose byadufasha.

Ahantu heza ubona ari mu nyubako nziza cyane. Ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima. Ni byiza ko tubungabunga ahantu nk'aha kugira ngo harusheho gutanga izo serivisi zijyanye n'ubuzima, kandi iyo urwaye urahagana bakagufasha kugirango urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nziza yo kwa muganga, aho bakirira abarwayi kugirango ngo barusheho kwitabwaho no kumenya icyo barwaye, ubona harimo ibikoresho bitandukanye harimo nk'igitanda, intebe ndetse n'ibikoresho bindi byifashishwa bamenya uko umurwayi ahagaze.

Ahantu heza mu nzu kwa muganga ubona bahakirira abarwayi bakabafasha kugira ngo barusheho kumererwa neza. Hari ibikoresho nk'ibitanda barambikaho abarwayi babapima babasuzuma bamenya uko bamerewe. Hari na puberi batamo ibikoresho bamaze nko gukoresha kugira ngo bidateza umwanda. Ni byiza kujya kwa muganga igihe cyose ugize ikibazo kugira ngo ubafashe kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze.

Ahantu heza hari ibikoresho bya kizungu bifasha abarwayi kuruhuka ndetse n'aho babasuzumira kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze. Urabona ko hari ibikoresho byiza bya kizungu bigezweho abaganga bifashisha bamenya uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze. Hariho ibitanda byiza babaryamishaho iyo babasuzuma kugira ngo bere kuvunika bicara cyangwa se bahagaze.

Ababyeyi barimo abagabo n'abagore bicaye ahantu muri sale heza, ku ntebe nziza, basa neza, bambaye imipira myiza cyane. Ubona ko hari ikintu bakurikiranye kugira ngo bamenye uko bimeze, banatahane amakuru yuzuye ku icyo kintu baje gukurikirana. Ubona ko bameze nkaho bakurikiye umuyobozi urikugira icyo abagezaho.

Inyubako nziza, iki ni igikorwa remezo cy'u Rwanda, ariho hari ikigo gishinzwe Ahafu Rwanda, aho bita kuri Ahafu Rwanda; aha ngaha uhagana igihe wagize ikibazo ku bijyanye n'ubuzima, noneho bakagufasha kugikemura ndetse no kukugira inama ku bijyanye n'ubuzima, kugira ngo urusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza mu cyumba kirimo umurwayi ubona ko ari kwa muganga ari mu gufashwa. Uruhande rwe hari ibikoresho nk'imashini zifasha abaganga gusuzuma uko umuntu ahagaze naho ubuzima bwe bugeze kugira ngo bamenye nimba butari mu kaga barusheho gukomeza kumufasha. Ni ahantu heza cyane hari ibikoresho bitandukanye byiza bya kizungu bifasha abaganga gusuzuma abarwayi, kugira ngo barusheho kubitaho beregupfa cyangwa ngo babace mu myanya y'intoki.

Inzu nziza igaragara nk'igikorwaremezo cya leta cyashyizweho kugira ngo kijye gitanga serivisi zitandukanye ku buvuzi ndetse no ku bindi bintu byerekeranye n'ubuzima bwa buri munsi ku bantu, ni byiza ko abantu bagana ibyo bigo bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Igaragaza umukobwa ni mwiza n'umusaza ubwo umukobwa yari ari gushaka kwita ku musaza ubona ko umukobwa ari umuganga yishimiye kuba umusaza yamwenyuye kuba yamufashije, urabona ko umusaza yishimiye kuba bamufashije barimo bareba umuvuduko w'amaraso uko ungana. Ni byiza ko twipimisha kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze.

Ahantu heza hari inyubako ifasha abarwayi igihe barembye kuba baza bakagirwa inama ndetse bakanahabwa imiti ndetse bakanabwirwa uko bakita ku buzima bwabo ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu kuko niwo mutungo dufite dusigaranye tubungabunga ubuzima bwacu tugana ibigo nderabuzima kugira ngo turusheho kwitabwaho ndetse no kugira ubuzima bufite umuze.

Inyubako nziza igaragara ahantu hitwa Gihundwe ari ho ahantu bavurira amaso. Ni Ibitaro byiza bifasha abarwayi b'amaso kuko bafasha kuba babavura, igihe ufite ikibazo cy'amaso wabagana bakagufasha. Ni ahantu heza ubona ko hitaweho haba hubatswe ibikorwa byiza remezo. Ni byiza ko tuhagana kugira ngo badufashe.

Ahantu heza ubona ko ari inyubako yubatswe ishyirwamo ibikoresho bifasha abarwayi kumenya uko bahagaze. Ni byiza ko twegera ahantu nk'aha bakadufasha kurushaho kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze. Ubuzima niyo mari dufite tububungabunge.

Abantu babiri begeranye bateganye n'abandi babiri ku ruhande rwo hirya, bambaye amataburiya y'umweru, bambaye ga, bambaye udupfukamunwa n'ingofero z'umweru, harimo uwambaye iy'ubururu, ubona ko bari ahantu bari gutunganya ibintu kugira ngo babikoreshe, bifashisha mu kubona ibyo bakeneye...

Ahantu heza ubona hari jaride nziza, harimo idarapo ry'u Rwanda, hari abantu babiri ubona batambika mu muhanda, hari inyubako nziza cyane nk'igikorwa remezo cya leta, inzu nk'izi ziba ziri ahantu heza cyane nk'aha, ni ibikorwaremezo bya leta bishyirwaho kugira ngo bifashe abaturage, bibegereze serivisi nyinshi zitandukanye.

Ahantu heza hasa neza ubona ko ari muri, mu cyumba cya gym cy'imyidagaduro abantu bagenda bagakora siporo zitandukanye bagabanya umubyibuho ukabije no kwirinda indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije wo kuba badakora siporo. Abantu bajyayo bagakora siporo kugira ngo barusheho kwirinda indwara zifata zinyuze mu kuba umuntu nta siporo yakoze.

Ahantu heza inyubako nziza ya laboratwariho bapimira abantu ko batarwaye malariya, cyane cyane bahakirira abantu barwaye malariya bakanabafasha kubabwira uko bakita ku buzima bwabo kugira ngo barusheho kurwanya no guhashya icyorezo cya malaria. Tube mu nzitiramibu kandi kugira ngo ubuzima bwacu bugume kugira umuze turusheho kwita ku mibiri yacu turara mu nzitiramibu twirinda malariya igihe wayigize gana iyi laboratwari bagupime.

Inyubako iri ahantu heza. Ubona harimo ibikoresho byiza byifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'abantu buhagaze. Ni byiza ko twegera ibigo nderabuzima ndetse n'inyubako z'ubuzima zifasha abantu kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu bube mu buzima bufite umuze.

Icyumba gisa neza cyane, harimo igitanda, televiziyo, isaha, ameza, ndetse n'intebe. Aho umuntu ashobora kugenda bakamufashiriza, ubona ko ari ahantu hameze nko kwa muganga, hateguranywe ubuhanga umuntu ashobora kugenda bakamufasha mu gihe yagize ikibazo runaka, akanaruhuka bakanamuganiriza.

Inyubako nziza, ubona ko irimo itanga serivisi zijyanye n'ubuzima, ni byiza ko twegera ibigo nk'ibi bikadufasha tukarushaho kuba neza mu buzima buzira umuze. Tugane ibigo nk'ibi bidufashe, ni inyubako Leta yubaka zo gufasha abaturage kubegereza serivisi.

Ahantu heza hari inyubako zigaragaza ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, ku rwego rw'akarere mu buryo bwiza, bwo kugira ngo bafashe abaturage kubavura ndetse no kubafasha kubaho mu buzima buzira umuze kugira ngo barusheho gukorera u Rwanda rwabo, baruteze imbere nk'igihugu cyabo nk'abanyarwanda.

Ahantu heza hasa neza ubona ko ari inyubako yo kwa muganga ahantu heza mu cyumba bakirira abarwayi bakabafasha kugira ngo barusheho kumererwa neza, hari ibitanda baryamishaho abarwayi ndetse n' utwangombwa babafashamo kugira ngo barusheho kumera neza cyane batekanye babone ko babitaho batagize ikibazo na kimwe.

Inyubako nziza ubona ko igizwe n'uburyo bwubatswe mu buryo bwa mpande enye. Igizwe n'ibirahure, nziza cyane, ifasha abantu mu kuba bahagana bakabaha serivise zijyanye n'ubuvuzi no kubagira inama ku bijyanye n'ubuzima bwabo, n'uburyo bakwita ku buzima bwabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze. Ni byiza ko tugana Ibitaro bakadufasha kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu ubona ko ari ahantu abantu baje kwaka serivisi hari inyubako hatangirwa serivisi ku bijyanye n'ubuzima ni byiza ko igihe cyose ari icyo udasobanukiwe cyangwa ufite ikibazo ku buzima wegera ibigo nk'ibi bikagufasha kuguha imiti ndetse no kukugira inama z'uko wakwitwara kugirango ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari ishusho igaragaza uburyo ki siporo ari ingirakamaro ku mubiri wa muntu no mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi dukore siporo kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ishusho igaragaza uburyo ki siporo ari nziza kurusha ibindi bintu byose ko umuntu agomba gukora siporo kugira ngo ahore ameze neza afite ubuzima buzira umuze. Dukore siporo ni byiza kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze. Bwira na mugenzi wawe ko agomba gukora siporo buri gihe kugira ngo arusheho kurwanya indwara.

Umuntu ufite icupa ry'amazi arimo kunywa ubona ko yayanyweye neza yishimye kandi amazi agira n'ingaruka nziza ku mubiri atuma umubiri urushaho gukomeza gukora neza n'amaraso agatembera mu mubiri mu buryo bworoshye, amazi afasha mu igogora ry'ibiryo, ni byiza ko tunywa amazi nibura mbere y'uko turya na nyuma y'uko turya ho iminota mirongo itatu.

Indege zitwara amaraso zizwi nka drone. Ni nziza zitwara amaraso ziyavana ahantu hamwe ziyajyana ahandi cyane cyane ku bitaro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Izi ndege zoroshya imitwarirwe y'amaraso mu buryo bworoshye kugira ngo harushweho gufashwa abarwayi barembye kwa muganga bongererwa amaraso.

Abaganga babiri, umuntu uryamye ku gitanda ahantu heza, ubona ko ashobora kuba yarahuye n'ikibazo cy'akaguru, ubona ko bari kumwitaho ku kaguru kiwe, hari abandi bagabo benshi babiri, bahagaze imbere, bambaye ama karuvati basa neza, ubona ko baje kugira ngo bamurebe uko babikora, kugira ngo barusheho kwita ku buzima bw'abantu neza, n'imibereho yabo ikomeze kugenda neza.

umusore ubona ari muri siporo arimo azamuka ku kantu yongera akamanukaho ni byiza ko dukora siporo siporo ni imwe mu miti myiza yafasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze muri siporo dukore siporo kugirango turusheho kwimakaza imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza buzira umuze dusohora imyanda mibi mu mubiri no kugira ngo turusheho kuba neza.

Icupa ry'amazi rifashwe mu ntoki, ikigaragara ko ni uko amazi ari meza ku buzima bw'umuntu, amazi ni meza atuma umuntu abasha gukora ibikorwa bimwe na bimwe harimo nko gutwara amaraso mu buryo bworoshye k'umubiri no gutuma igogora rigenda neza igihe yariye, tunywe amazi ni meza ku mubiri wacu.

Abaganga babiri ubona bari mu kibuga bafasha umukinnyi ugize ikibazo cy'imvune kugirango bamushyireho pomade kugirango arusheho gukomeza gukina ameze neza, ni byiza ko twifashisha imiti irimo nka pomade kugirango turusheho gukora umubiri wacu neza turusheho kubungabunga ubuzima bwacu bwa buri munsi.

Uducupa twiza dutatu turimo umuti umuntu ashobora kwifashisha mu gihe avuye muri siporo arimo aribwa ahantu runaka, yarangiza akawitera kugira ngo umufashe kugabanya ububabare, ni byiza ko dufata iyi miti tukayikoresha igihe dufite ikibazo tuvuye nko muri siporo twavunitse, tukayitera ikadufasha, ikora mu buryo bwa pomade ariko iba imeze nk'umwuka, imeze nka parufe.

Umusore ubona ko ari kwikandabona ko yagize ikibazo mu' ivi ni byiza ko igihe cyose tuvuye muri siporo tugomba kwikanda umubiri wose kugirango ngo turusheho kugumana ubuzima bwacu bwiza kandi buzira umuze tubungabunga ubuzima bwacu dukora siporo buri munsi.

Umusore wicaye hasi ubona ari muri siporo, ananura amaguru ye ndetse n'amaboko kugira ngo afashe umubiri we gukomeza gukora neza. Ni byiza ko dukoresha imibiri yacu siporo kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu barimo abagore bicaye ku ntebe batatu n'abagabo bahagaze inyuma ndetse n'abandi bagore bambaye ingofero n'udupfukamunwa, ubona ko bakurikiye ikiganiro kuri tereviziyo, barimo bahugurwa ku bijyanye n'ibintu bagomba gukora, ubona ko bari gukurikira ikiganiro kugira ngo barusheho kumenya amakuru yimbitse ku byo bashaka.

Umukobwa mwiza wambaye inkweto z'umweru' ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara uri muri siporo ubona ko hirya ye hari icupa ry'amazi urabona ko arimo arambura amagufi kugirango abashe kubaho neza imitsi ye irambutse itwara amaraso neza bimurinde indwara nyinshi zandura zitewe no kubona umuntu adakora siporo nko kugira umubyibuho ukabije n'izindi ndwara za ruhangimpande.

Umuntu uhagaze ubona ko ari amaguru ye, bari kwerekana akantu keza kafasha umuntu kwirinda gukomereka igihe ari muri siporo, akaba yakifashisha aka kantu akagashyira ku mavi, kugira ngo atarushaho gukoboka no kuvunagurika.

Umusore wicaye mu kibuga, ubona ko yagize ikibazo mu ivi wagira ngo nicyo bita imbwa zamufashe mu itako, ubona ko nyine siporo iba ikeneye mu buzima bwa buri munsi kugira ngo twirinde ibintu nk'ibi byo gufatwa n'imbwa igihe twirutse tutabiheruka. Ni byiza ko dukora siporo buri munsi zizadufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ifunguro rigaragara nk'aho rifasha abana kuva mu mirire mibi, ni byiza ko twifashisha amafunguro arimo ibintu bitandukanye, harimo amagi, imineke, inkeri, puwavuro ndetse n'imboga z'ibyatsi, ibitunguru n'ibindi, umuntu ashobora kwifashisha atekera umwana kugira ngo arusheho kuva mu mirire mibi.

Umusore ubona yambaye ecouteur arimo anywa amazi nkuko tubizi amazi ni meza ku mubiri wacu adufasha byinshi mubuzima bwacu bwa buri munsi tunywe amazi turusheho kubungabunga ubuzima bwacu ni byiza ko nibura umuntu ubagomba kunywa litiro ebyiri ku munsi, kugirango arusheho kubungabunga ubuzima bwe burusheho kugira.

Umugabo uri ahantu uhagaze wenyine ufite agacupa k'amazi yayafunguye yose akamumenekaho no mu maso. Urabona ko byamurenze, afite ukuntu yanyweye amazi nabi bikamurenga, akamugera no mu maso. Arasa nk'aho afite ibibazo byamurenze, yababaye cyane.

Umukobwa mwiza uhagaze ahantu heza, ubona ko yateye umugongo kamera, ubona ko ari muri siporo yinanura kugira ngo arusheho gutuma umubiri we umera neza no kugira ngo akomeze kwirinda indwara zifata abantu badakora siporo nk'umubyibuho ukabije ndetse na za rubagimpande.

Umukobwa ufite icupa ry'amazi, ubona ko arimo anywa amazi, turabizi ko amazi ari ingirakamaro ku mubiri. Ni byiza ko tunywa amazi, adufasha byinshi mu mibiri yacu, nko gufasha utunyangingo dutwara amaraso kwihutisha amaraso mu mubiri, tunywe amazi turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Igikoresho kizwi nka burankare batwaraho umurwayi cyangwa batwararaho umukinnyi mu kibuga igihe agize ikibazo ari nko muri siporo bishobora gufashishwa. abantu bajyana abandi kwa muganga cyangwa igihe umuntu yarwaye ukamuryamishaho kugira ngo arusheho kuruhuka umuterure mu gihe atari kubasha gukandagira umurambika ukamuterura ukamujyana kwa muganga.

Abantu babiri ubona umusore ari muri siporo arimo asimbuka, amanuka, asimbuka, amanuka. Kugira ngo arusheho gutuma umubiri we usohora imyanda mu mubiri, igihe dukora siporo ibyunzwe bigasohoka tuba dusohoye imyanda mu mubiri. Ni byiza kuko dukora siporo kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kugirango turusheho kubaho neza.

Ahantu heza ku meza hateretse amafunguro atandukanye ashobora gufasha umwana kuva mu mirire mibi. Harimo amagi, imineke, inkeri. Imbuto zitandukanye amaronji, poivo ndetse n'ibindi. N'imboga ushobora guteka ukazitekera umwana akarushaho kubaho mu buzima bwiza, kandi buzira umuze.

Umusore ubona uri muri siporo yiruka arushaho kugabanya ibinure mu mubiri ndetse no kugabanya umubyibuho ukabije kugirango ngo arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Siporo zidufasha kandi gusohora imyanda mibi mu mubiri. Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo ubona arimo anywa amazi meza kugira ngo arusheho kongerarera imbaraga umubiri, ni byiza ko tunywa amazi tukanakora siporo kugira ngo birusheho gufasha umubiri wacu kugira imbaraga ndetse no gukomeza kuwubungabunga kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari ibintu ibikoresho byifashishwa muri siporo igihe umuntu arwaye bakamenya uko ahagaze kugira barusheho kumufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ubona ko hari akamashini gapima niba umuntu nta kibazo yagezweho na siporo yakoze igihe ashobora kuba yazikoze atabiheruka.

Hantu heza ubona hari imiti itandukanye yafasha abantu muri siporo, ni byiza ko igihe cyose ugannye ahantu nk'ha bagufasha ku kukubonera imiti ndetse no kugufasha kugukoresha siporo kugirango urusheho kugira ubuzima bwiza nkuko tuzi ko siporo ari imwe mu miti ifasha ubuzima bwacu gukomeza kumera neza.

Umusore ubona afite icupa ry'amazi, arimo anywa amazi, nkuko tubizi amazi ni meza ku buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza ko tunywa amazi kugirango turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza hari umuntu uri muri siporo ubona ko ari kugerageza kugorora umubiri we kugira ngo arusheho gukomeza kumererwa neza no kugira ngo imitsi ye ikomeze gukora irambutse itware amaraso arusheho kubaho neza cyane nk'uko umuntu aba agomba kubaho neza ameze neza mu buzima buzira umuze.

Umwana w'umukobwa wicaye ahantu heza, ubona ko ari muri siporo, arimo agorora umubiri yishimye cyane, ananura mu mavi kugira ngo arusheho gukomeza kubaho neza mu buzima buzira umuze, urabona ko ni umukobwa wishimye, arimo ananura ibirenge bye kugira ngo siporo zimufashe kugubwa neza no gukomeza kubaho mu buzima buzira umuze. Dukore siporo bizadufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ishusho igaragaza uburyo ki siporo ari nziza kandi yanafashije abantu muri Kovidi, aho siporo yatumaga abantu bayirwaye iyo bakoze siporo, bituma bakira Kovidi nayinitini. Kovidi rero yabaye bimwe mu zagaragaje ko siporo yafasha abantu, mu gutuma bamera neza, siporo ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi, ituma umuntu arushaho kugira ubuzima buzira umuze. Tuyikore turushaho kugira ubuzima buzira umu...

Ahantu heza hahariwe gukorera siporo, ariho bita muri gimu, ahantu umuntu ajya agakora siporo, hari umuntu uhari urimo ukora siporo, nkuko bigaragara ananura ingingo ze z'umubiri kugira ngo arusheho kumera neza, maze arusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Abantu beza ubona bari muri siporo kugira ngo barusheho kugabanya umubyibuho ukabije no gukomeza kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza ko dukora siporo no mu buzima bwacu bwa buri munsi zigira akamaro ku mibiri yacu.

Ibinini byiza byafasha umuntu gutuma abaho mu buzima bwiza, ibyo binini urabikoresha warangiza ugakora na siporo bigatuma urushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tubungabunge ubuzima bwacu dukoresha siporo kuko ni byiza bizadufasha kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Umwana ubona wicaye hasi uri kumwe n'umuzungu umufasheho ubona ko inyuma ye yapfukamye umumanseri witambiye neza ubona ko nyine ari umwana wafashijwe akaba yitabwaho n'abo bantu, ni byiza ko abantu igihe ufite ubushobozi ushobora gufasha umwana ukamukura mu mirire mibi kuko kubaho mu buzima bwa wenyine atari byiza, dufashanye ni byiza bizaduteza imbere.

Umugabo ufite igipfuka ku kaboko ubona ko ari kugerageza kwikanda aho yagize ikibazo, urabona ko umugabo wicaye ku ntebe wambaye umupira w'umweru urabona ko asa neza. Ni byiza ko twita ku buzima bwacu nk'ibisanzwe kugira turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona waje muri masaje barimo bamugorora imitsi kugira ngo arusheho kumera neza, ni byiza ko dukora siporo ni umuti mwiza uzadufasha kubungabunga ubuzima bwacu no gutuma tugira ubuzima butari mu kaga, dukore siporo izadufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umurwayi uryamye ku gitanda, aho umuganga arimo kumwitaho ubona ko ari abaganga babiri uw'umusore n'umukobwa, barimo bamwitaho, hari abagabo babiri bambaye amakositimu n'amakaruvate basa nk'aho bari kureba uko basana umuntu akaguru igihe yarwaye, ubona ko uwo musore amanitse akaguru nk'aho kagize ikibazo cy'imvune cyangwa se ikindi kibazo cya kanseri yafashe nk'akaguru.

Umusore uryamye ku gitanda cya siporo, aho babakorera masaje, ubona ko ari kumwe n'undi mugabo uri kumwitaho, umufasha kumukora masaje ku kuboko kw'iburyo, ubona ko umusore yabyishimiye. N i byiza dukore siporo, ari ahantu heza ha bakora siporo muri gimu, nawe wagana gimu ikwegereye ukaryshaho gukora siporo, kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Icupa ry'amazi barimo basuka mu kirahure, amazi ni meza ku mubiri wacu, ni byiza ko tunywa amazi, arushaho gufasha umubiri wacu gutembereza amaraso mu mubiri, tunywe amazi ni bwo buzima bwiza.

umugabo mwiza, wambaye ishati y'umutuku, wicaye ku ntebe nziza ya kizungu isirimutse, isa neza ubona afite computer imbere ye areba ariho areba videwo nziza cyane utamenya ariko bigaragara ko afite ibyo ahugiyemo areba atuje yitonze. Imbere ye hirya harikandagirakarabe nziza za kizungu utikaho intoki amazi akaza kugira ngo ubashe gusukura intoki zawe tubashe kubaho neza.

Umugabo wicaye hasi ubona afite ikibazo ku kaboko yashyizeho agatambaro yagafatiyeho ubona ko ashobora kuba yakomeretse kugira ngo ashyireho agatambaro gatume amaraso adakomeza gushoka no kugira ngo amaraso yere kumushiramo, ni byiza ko igihe cyose uhuye na agisida ugakomereka ugomba kwikorera icyo bita ubutabazi bw'ibanze ukaba wakwifasha kugira ngo amaraso atagushiramo, ni byiza ko ushobora gufata agatambaro ukishyiraho.

Umukobwa mwiza ubona ko ari muri siporo arimo akora siporo ngororamubiri. Ni byiza ko dukora siporo tugorora imibiri yacu kugira ngo imitsi irambuke irusheho gukora neza. Ni byiza rwose twite ku buzima bwacu dukora siporo zizadufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hicaye umukobwa, ubona ari muri siporo yambaye imyenda ya siporo. Arasa neza ubona ko yarambuye amaboko, agorora urutirigongo, amaguru no mu mavi kugirango arusheho gukomeza kumera neza no kumva atuje mu mubiri we. Ni byiza ko dukora siporo zifasha abantu kubaho neza no mu kugira ubuzima buzira umuze.

Imbuto zitandukanye zisa neza nziza zifasha abantu kongera intungamubiri mu mubiri wabo kugira ngo babashe kubaho neza mu buzima buzira umuze, zibafasha igihe bavuye muri siporo bakongera ibyo bataje bari muri siporo kugira ngo barusheho kubaho neza kandi zongera intungamubiri mu mubiri, amaronji, inanasi, imineke na avoka ni byiza cyane ku buzima bwa muntu.

Ibikapu bitatu bisa neza, by'ibara rimwe, ibikapu ni ibikoresho byifashishwa mu kubika ibintu bimwe na bimwe, dukenera mu buzima bwa buri munsi, ushobora gutwaramo imyenda ugiye ahantu runaka, ushobora kubibikamo ibikoresho uri mu rugo, ibikapu ni ingirakamaro mubu buzima bwa buri munsi.

Ahantu heza ubona hari umukobwa wicaye hasi arimo akora siporo ananura amaguru ye, ni byiza ko dukora siporo kuko zizafasha ubuzima bwacu gutuma bumera neza no gutuma turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, dukore siporo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona uryamye hasi ari muri siporo arimo ananura amaguru ye ndetse n'ibice bye by'umubiri, ni byiza ko igihe cyose unaniwe cyangwa se igihe cyose ushaka kugira ubuzima bwiza ukora siporo kugirango urusheho kuruhuka no gutekereza neza no kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza hari ibikoresho bitandukanye bifasha umuntu gukora siporo, harimo nk'utuntu umuntu afata mu ntoki akagenda ananura imitsi gake gake, ubona hari na pome iharambitse, bigaragara ko hari n'amazi igihe cyose turi muri siporo dukoresha imbuto ndetse dushobora no gufata amazi tukanywa kuko amazi ni meza ku mubiri nk'uko tubizi.

Umukobwa urimo anywa amazi, ubona yishimye yambaye ekuteri ari muri siporo. Siporo ni imwe mu ngamba yafashwe na Leta, zifasha abaturage mu kubungabunga ubuzima bwabo no gutuma bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, bityo tunywe amazi meza na yo arafasha imibiri yacu kumera neza.

Umukobwa mwiza ubona abyutse yicaye ku gitanda ubona ari kwinanura kugira ngo arusheho kumera neza no gutuma umubiri we utuza. Ni byiza ko igihe cyose tugomba gukora siporo tukananura imitsi yacu kugira ngo irusheho gukora neza no gutwara amaraso mu mubiri, turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuzego.

Umusore ubona ari muri siporo ananura ingingo ze z'umubiri kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Nk'uko tubizi siporo ni imwe mu ngamba nziza zafashwe zatuma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, asohora imyanda mu mubiri ndetse akarushaho no kugabanya umubyibuho ukabije. Dukore siporo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umurwayi ubona waje kwa muganga, ufite ikibazo ku maguru. Ubona ko yakomeretse, ubona ko umuganga ari kumwitaho, amushyiraho bande no kumupfuka neza. Kugirango ngo arusheho kumunanura ndetse no kumuvura akaguru arusheho koroherwa. Ni byiza ko igihe cyose twahuye n'ikibazo cy'imvune tugana ibitaro bakadufasha kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari umurwayi n'umuganga, ubona ko umuganga ari kwita ku murwayi amupima amenya uko ahagaze, amukura ku gitanda ashaka kugira ngo amwururutse, ubona ko ari kumwitaho amuha keya kandi ni byiza cyane ko umuganga agomba kwita ku murwayi nk'inshingano ze kugira ngo umurwayi atagira dipuresiyo akiyahura, agahinda gakabije kakaba kamuhitana.

Ahantu hari ibikoresho ubona ko byifashishwa muri siporo hari nk'aho bakorera masaje, imashini zifasha abantu kwiruka ndetse n'ahandi hari ibikoresho bitandukanye ubona ko ari ibyo baterura kugirango barusheho kugabanya umubyibuho ukabije, ndetse no gukora siporo urusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti myiza ya siporo ubona ko harimo amapomade n'indi miti y'amavuta umuntu yakwisiga ku mubiri we akarushaho kugorora imitsi ye no gutuma umubiri we ukomeza kumera neza, ni byiza ko tubungabunga imibiri yacu dukoresheje imiti myiza kugira ngo turusheho kubaho ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu ubona w'umusore ugiye muri siporo ufite umupira mu ntoki ubona ko ashaka gukora siporo kugirango ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwe no kugira ngo atume amera neza mu buzima bwe , ni byiza ko dukora siporo kugirango turusheho kubungabunga ubuzima bwacu no kubwongerera ubudahangarwa siporo ni imwe mu nzira nziza umuntu yakoresha kugirango ngo arusheho kwita ku buzima bwe.

Ahantu heza hateretse ikarito igaragaza uburyo abaterete birukamo kandi hari n'agapima metero birutse kugira ngo barusheho kongera no kugabanya imibabarire y'umubiri wabo no kubaho neza mu buzima buzira umuze. Siporo ni nziza kuko zituma umuntu arushaho kumererwa neza mu mubiri we nk'uko tubizi siporo zifasha abantu bose kugira ubuzima buzira umuze.

Igikoresho cyiza ubona cyifashishwa muri siporo bapima uko umuntu ahagaze ni byiza ko umuntu wese ukora siporo ashobora kujya kuri iki cyuma kugira ngo amenye niba siporo aricyo zamumariye kandi ni byiza ko siporo tuzikora kuko zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bikanatuma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hasa neza hari ibyuma bifasha abantu mu gukora siporo kugira ngo barusheho kumera neza mu mibiri yabo bagire ubuzima buzira umuze. Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kubaho neza no kugira ubuzima buzira umuze. Dukore siporo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Umusore ubona arimo anywa amazi, ubona yabize icyokere ubonako asa n'umuntu uri muri siporo cyangwa uvuye muri siporo. Ni byiza ko tunywa amazi, tugakora na siporo tukarushaho gukUra ubuzima bwacu mu kaga. Ni byiza ko dukora siporo zizadufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imodoka nziza ya ambirasi yifashishwa mu kujyana abarwayi kwa muganga igihe barembye, ibavana ku bitaro bimwe ibajyana ahandi kugira ngo babashe gufashwa, hari umuhanda mwiza cyane irimo gucamo kugirango ngo ibashe kugeza umurwayi kwa muganga byihuse kandi bidatinze kugira ngo abashe gufashwa, akire indwara arwaye.

Umusore ubona ko ari muri siporo yambaye utuntu tumufasha gukora siporo neza atabangamiwe ni byiza ko igihe cyose ugiye muri siporo ugomba kumenya neza ko umubiri wawe nta hantu ufite ikibazo kugirango ugende wahitayeho utaza kurushaho kuhangiza ariko siporo nziza mu buzima bwa buri munsi dukore siporo turusheho kubungabunga amagara yacu.

Igikoresho kizwi nka burakare ubona hejuru hari ishusho igaragaza abantu babiri bayiteruye nk'uko ikoreshwa mu gutwara abarwayi cyangwa se igihe umuntu agize ikibazo gituma atabasha kugenda bamurambikaho akaryama bakamujyana kwa muganga ni byiza ko igihe cyose umuntu agize ikibazo tumushyiraho tukamujyana kwa muganga kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu tubeho buzima buzira umuze.

Ishusho nziza igaragaza ibintu bitandukanye byafasha umuntu uvuye muri siporo, cyangwa se ibintu byafasha umuntu gutuma agira ubuzima buzira umuze, harimo nko kurya imbuto, kunywa amazi ndetse no kurya ibiryo birimo intungamubiri zitandukanye, utibagiwe n'imbuto.

Ahantu heza hagaragara ibikoresho bakoresha kwa muganga bapima banasuzuma uko abantu bameze kugira ngo bamenye aho ubuzima bwabo buhagaze harimo nk'icyuma, gipima umuvuduko w'amaraso ubona ko umuntu ahayirya yicaye imbere y'ameza ariho imashini nziza cyane ariho afite ameze nk'uri kuri tuvugane kugirango arusheho kumenya uko ibintu biba bimeze.

Ahantu hasa neza umuntu yagenda agakora siporo ndetse kugira ngo bimurusheho akaba yanasanga imiti ishobora ku mufasha mugihe arimo gukora siporo no kugira ngo yongere imbaraga mu mubiri we akora siporo kugira ngo ahore ameze neza afite ubuzima buzira umuzi , dukore siporo ni imwe mu nzira nziza ifasha abantu kugira ubuzima buzira umuze.

Umuntu uri kwa muganga, ubona bari kwitaho, bamugorora kuko adakora siporo, ni byiza ko dukora siporo, kugira ngo twere kurwara indwara zituma umubiri wacu utidagadura, ngo urusheho kumera neza, siporo ni imwe mu miti ituma abantu babaho mu buzima bwiza, siporo ni umuti mwiza cyane ku buzima bwacu, dukore siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza muri sare yabugenewe bakoreramo imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze. Harimo imashini umuntu ashobora kujyaho zikamwirukansa zikamukoresha siporo uko ashoboye yaterura ibyuma ndetse n'ibindi bitandukanye ubona ko ari ahantu heza cyane umuntu yakora siporo akarushaho kugira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byiza wakwifashisha igihe uvuye muri siporo n'igihe ugiyeyo mbere yuko ujyayo kugirango bigufashe kugirango ube uri muri mudu ya siporo, ni byiza ko dufata imibiri yacu tukayikoresha siporo kugirango turusheho kugira ubuzima buzira umuze, haragaragaraho umuti ushobora gushyira ku bisebe igihe wakomeretse.

Ibiganza bibiri byambitswe ga ubona ko ga ari nziza zifasha umuntu kwirinda kuba yakomereka cyangwa kuba yatoba imyanda iyo ariyo yose mu buryo bworoshye, kandi bifasha umubiri w'umuntu kuba ufite ubwirinzi bwatuma udakomereka mu buryo bworoshye igihe icyo aricyo cyose uhuye na egisida y'ikintu runaka kuba cyakujomba.

Umukobwa wicaye mu biro, imbere ye ku meza hateretse iyi mashini ameze nk'aho ari umuganga, kuko afite agapima umutima, imiterere y' umutima, yambaye agapfukamunwa yambaye ga, afite imisatsi myiza arasa neza, afite amakaye imbere ye hari n'ikaramu urabona ko ari umuganga uko byagenda kose.

Umuntu w'umusore uri kwiruka, umeze nk'uri muri siporo, umukobwa ari hirya ye ahantu hasa neza, usutamye, ubona ko ari kumufasha kubara kugira ngo bakore siporo neza, birinde umubyibuho ukabije ndetse banamere neza mu mibiri yabo, ubona ko bishimye cyane, ameza arahari, hateretseho ibikoresho bifashisha muri siporo.

Ahantu heza ubona hari ibishushanyo bigaragaza umuntu uri muri siporo nkuko tuzi ko siporo ari ingirakamaro ku mubiri ubona ko hari inshinge bashobora gutera umuntu warwaye cyangwa se wagize ikibazo cyo kuba adakora siporo ni byiza ko dukora siporo kugirango turusheho kubaho neza urabona ko hejuru hari agacupa ka pomade umuntu ashobora gukoresha igihe a yagize ikibazo kugirango arusheho kumera neza.

Ahantu hagaragara neza nk'ishusho ubona ko iriho uburyo ki bwose abantu bashobora gukoramo siporo kugira ngo barusheho kumera neza, ubona hari umuntu urimo akora siporo yihengetse umwe agorora amaguru, abandi bakora kwiruka ndetse no kugendera ku mashini zirukansa abantu, ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ikirahure cyiza giteretse ku meza, n'umuntu ufite jage ubona ko ari gusukamo amazi kugira ngo abashe kuyanywa, twabonye ko amazi afasha umuntu mu gihe agiye nko gukora siporo bituma asukura imyanda mu mubiri mu buryo bworoshye bikanamufasha gutuma amaraso atembera neza mu mubiri binyuze mu kuba amazi yoroshya gutembera kw'amaraso mu mubiri, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu.

Umukobwa mwiza ubona ari muri siporo, arimo akora yiruka kugirango arusheho gusohora imyanda mu mubiri. Siporo zimara iki ku mubiri? Siporo zifasha abantu gutuma basohora imyanda mu mubiri ndetse no gukomeza gutuma umubiri wa bo umera neza, dukore siporo turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza, hari ishusho igaragaza umuntu wateruye icyuma cyitwa ariteli, ubona yaje muri siporo kugira ngo arusheho kugabanya umubyibuho ukabije, ndetse no guhora ameze neza ku buzima bwe, atuma amera neza cyane, kugira ngo arusheho kubaka umubiri.

Umugabo ufite icupa ryamazi ubona ari kunywa amazi, yashyize kumunwa yishimye cyane. Ubona ko amazi ari ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, tunywe amazi turusheho kubungabunga ubuzima bwacu kugirango burusheho kuba bwiza. Amazi afasha imitsi yacu gusubiramo neza no gutwara amaraso mu mubiri mu buryo bworoshye.

Umuganga w'abakinnyi ubona yaje kuvura umukinnyi mu kibuga, hari umupira w'amaguru ubona abandi bakinnyi bari hirya. Ni byiza ko igihe umuntu agize ikibazo umushyiriraho pomade ukamukandira. Pomade ikora ite? Ni umuti mwiza bashyira ahantu umuntu yavunitse kugira ngo urusheho kumufasha kugorora imitsi no gutuma atabyimbirwa ngo ababare cyane.

Amacupa meza yanditseho Stopain, urabona ko ari amacupa yifashishwa mu kubika imiti neza kugira ngo abantu bayikoreshe itarapfa, ateretse ahantu heza arasa n'umweru ariho uturango nyine tugaragaza ibyo akora nta bindi.

Abantu bagaragara nkaho bari gufata abantu bakabigisha uburyo ki bakoresha bamenya uko bahagaze mu buzima bwabo, ni byiza ko dukora siporo, ni umuti mwiza wa buri munsi, kugira ngo turusheho kubera ubuzima bwiza bugira...

Ahantu heza hateretse igikoresho kirimo amavuta wakikoreshaho igihe wahuye n'ikibazo cyo kuba wavunitse wari uri muri siporo. Harimo amacupa ya pomande n'ibindi bintu byose wakwifashisha, harimo umukasi mwiza wifashishwa mu gukata ibipfuko mu gihe bagiye gupfuka umuntu.

Igishushanyo kiza kimeze nkaho ari mu bwoko bw'igitabo kimeze nkaho ari icy'abantu bifashisha basoma kugira ngo bamenye amakuru ku bijyanye na alpha, kugira ngo babashe kumenya aho isi igeze, no kugira ngo babashe kumva neza ibikubiyemo kuko ni igitabo cyiza cyane kigaragara imbere n'inyuma. Uko bigaragara gifunitse neza cyane.

Umuntu uri muri siporo kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze, hagaragara imbuto zitandukanye zafasha umuntu gutuma akomeza kugira ubuzima buzira umuze, turye indimu, amaronji, karoti ndetse n'imboga zindi nka dodo, kugira ngo turusheho kubaho neza mu buzima buzira umuze. Siporo imbere cyane, kugira ngo turusheho kujyana mu b'imbere.

Ibikoresho byifashishwa igihe umuntu yagize ikibazo ari muri siporo wenda nko kuba imitsi yikanze akaba yakwizirika aka gakoresho kameze nka bande kamufasha gutuma yumva imitsi yegeranye n'ahatanye hegeranye, ni byiza ko aka gakoresho umuntu gakoresha igihe cyose yagize ikibazo yatsikiye ashobora no kwikoresha umuntu agakoresha mu buryo butandukanye igihe yari muri siporo agatsikira.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ubona ko ari muri siporo ngororamubiri harimo nko kurambura amaboko ndetse no kugira ngo imitsi ye irusheho gukora neza, ndetse no kugira ngo umubiri we urusheho kumera neza, ni byiza ko akora siporo .Twese dukora siporo ni ubuzima bwiza kandi siporo zituma umuntu abasha kumenya neza n'abandi bituma umuntu agira inshuti igihe yagiye muri siporo ndetse bikanongera kuba.

Ahantu heza, hasa neza hicaye umuntu w'umuganga ufite akantu mu ntoki, imbere ye ku meza hateretse amacupa abiri, impande ye hari intebe, yambaye itaburiya y'umweru, arasa neza rwose ubona ni umuganga wabyigiye, wabugenewe.

Icupa ryiza rigaragaza umuti mwiza wa kinyarwanda ushobora gukoresha uwita ku buzima bwawe, kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza ugomba kunywa umuti ugufasha ugahangana n'indwara urwaye kugira urusheho gukomeza kumererwa neza mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Icupa ryiza riteretse ku meza, ubona impanda yaryo hari icyatsi cy'igikakarubamba. Ni umuti mwiza wa Kinyarwanda. Ni byiza ko dukoresha imiti ya Kinyarwanda kuko idufasha gutuma turushaho kubaho neza no kugira ubuzima bwiza nk'abantu...

Umuti mwiza wa kinyarwanda, umuntu ashobora kwifashisha yisiga ahantu ari kubabara, akikanda bikarushaho kumuvura no gutuma amererwa neza, uyu muti uwukoresha igihe uri kubabara ahantu runaka ku mubiri wawe, uwusigaho ukikanda bikagufasha kumera neza kurushaho.

Korogati nziza za impfinayiti zifasha abantu mu gusukura amenyo bakora isuku mu kanwa habo, kugira ngo bagabanye umunuko ukabije mu kanwa no kwirinda indwara zose zandurira mu kanwa no kuba umuntu atagize isuku mu kanwa.

Icyatsi kiri ku mashusho ane abantu bagifashe hamwe kirambitse hasi, ni icyatsi umuntu ashobora kwifashisha akagikuramo umuti, akagitera kigafasha abantu kubaha umwuka wo guhumeka nk'uko tuzi ko ibimera byose bifasha abantu kubaha umwuka wo guhumeka, ari wo witwa ogusoijene.

Umuti baseye mu byatsi ubona ko ari ibyatsi baseye neza kugira ngo babikoremo umuti ufasha abantu kuba bakira indwara zimwe na zimwe, ni byiza ko ibimera tubibungabunga kugira ngo bidufashe gukomeza kubikoramo imiti ituma abantu bakomeza kubaho.

Ibyatsi imboga nziza cyane za mashu ubona ziri gukura zipfundura, ni amashu ni imboga zishobora gufasha abantu mu kwirinda indwara zitandukanye harimo nko kuba abantu barushaho kongera intungamubiri mu mubiri wabo bigatuma banareba neza bitewe n'uko zifasha amaso zongerera amaso kureba neza.

Imiti myiza ya Kinyarwanda yifashishwa mu kuvura abarwayi igihe bahuye n'ikibazo cy'uburwayi runaka. Urabona ko harimo nk'ibyongerera abantu intungamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza burambye kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukoresha imiti igihe turwaye kugira ngo turusheho kwita ku mibiri yacu no ku buzima bwacu tugire ubuzima buzira umuze.

Amasabune yifashishwa mu gukesha uruhu, ndetse amasabune akozwe mu bimera. Ni byiza ko dukoresha aya masabune kugirango ngo dukeshe impu zacu, turusheho kwita ku mubiri wacu n'ubuzima muri rusange. Iyo ukarabye amazi meza n'isabune bituma wumva utuje kandi umeze neza, bikarushaho gukesha uruhu rwawe.

Umuntu urimo asekura ibyatsi, ubona ko ariwe ukora imiti ya kinyarwanda kugira ngo arusheho kuvura abantu, barusheho kugira ubuzima bwiza, ubona afite imiti itandukanye, arimo asekura ibyatsi, hari n'utundi tuntu turi ku masahani yagiye asekura, ari two akoramo imiti akayanika kugira ngo arusheho gufasha abaturage kubaho mu buzima bwiza.

Umuntu ugaragara nk'aho ari umujyanama wibijyanye n'ubuzima bwo gukoresha imiti ya kinyarwanda kugira ngo idufashe mu buzima bwa buri munsi ni byiza ko twifashisha imiti ya kinyarwanda aho biri ngombwa aho bigaragara ko yagaragaje nimero imiti afite ndetse n'uburyo ki wabikoresha.

Uducupa twinshi tugaragaza imiti ya kinyarwanda, ukuntu iba imeze, dore uko bagiye basekura ibyatsi barangiza bakabibika mu ducupa kugira abantu nibarwara bazayifashishe, iyi miti irafasha cyane cyane igihe umuntu afite ikibazo cyananiranye n'imiti yo kwa muganga, iyi miti y'ibyatsi irafashwa cyane cyane.

Ibyatsi byiza bivamo imiti myiza ya kinyarwanda ifasha abantu kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze kandi tubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kubaho neza.

Icupa ryiza ry'umweru rigaragaza umuti mwiza wa Kinyarwanda, wafasha abantu gutuma bagira ubuzima buzira umuze, mu mibereho yabo ya buri munsi, igihe barwaye bashobora kugura umuti nk'uyu kugira ngo bawifashishe bakire, bamere neza, bagire ubuzima buzira umuze.

Ahantu hari imiti myiza ubona ikozwe mu bimera, harimo icyatsi cy'igikakarubamba, bifasha abantu kuvura indwara zitandukanye. Harimo nko gufata amavuta yavuye mu gikakarubamba cyangwa se gusya icyatsi cy'igikakabamba ukagikoramo umuti ushobora gukiza ibiheri ku mubiri n'izindi ndwara zitandukanye zigendanye n'uruhu. Tubungabunge ubuzima bwacu dukoresheje imiti ya kinyarwanda.

Imiti myiza iri mu ducupa duteretse uko dutondekanyije dutatu isa nk'aho ari iya kinyarwanda ikoreshwa mu kuvura abantu ndetse kugira ngo babirusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibyatsi ubona ko byifashishwa mu gukoramo imiti myiza ya kinyarwanda, ni byiza ko tubungabunga ibyatsi bizadufasha mu kwiteza imbere mu gihe twagize ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibyatsi byiza bidufasha kubikoramo imiti myiza ya kinyarwanda tukarushaho kwimakaza ubuzima bwiza bwa buri munsi, ibi byatsi tubikoresha tubikoramo imiti idufasha mu buzima bwa buri munsi, ni byiza rero ko twita ku bimera kugira ngo bizadufashe.

Ishusho nziza y'ikibabi kivamo umuti wa kinyarwanda, baragisekura bakagikuramo amazi yacyo cyangwa se bakagisekura bakacyanika kugira ngo bakuremo umuti wa kinyarwanda abantu bawumywe ubafashe gukira indwara zimwe na zimwe, barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umuti mwiza wifashishwa mu gusukura mu kanwa ndetse no mu bundi buryo butandukanye ubona hari imbuto nyinshi zitandukanye harimo avoka n'ibindi, ni byiza ko twita ku buzima bwacu kugira ngo turusheho kubaho neza kandi tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amacupa meza yateretse ahantu habugenewe ubona ko arimo imiti ya kinyarwanda, yifashishwa mu kuvura abantu kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, n'imibereho myiza muzima bwa bwa buri munsi, iyi miti ya kinyarwanda yifashishwa mu kuvura abantu kandi ni myiza kuko irafasha cyane, igatuma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Icupa ryiza ririmo ubuki wakwifashisha mu muti kugira ngo bugufashe kurushaho kumera neza ushobora kubuvanga n'imiti imwe n'imwe ya kinyarwanda kugira ngo bigufashe kurushaho kumererwa neza buzima bwawe bwa buri munsi bwifashishwa kandi mu gushyirwa mu miti ishaririye kugirango ngo urusheho kugufasha kumera neza no kumva bidashariye cyane kugirango ubunywe.

Tungurusumu zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tuzirya mu biryo, tuzifashisha mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, kugabanya umunuko w'ibintu runaka, tuzifashisha turya, tuziteka mu biryo nuko nyine tukazifashisha tuzirya.

Korogate nziza zigaragara neza zifasha abantu mu gukora isuku y'imibiri yabo by'umwihariko igice cyo mu kanwa, amenyo kuyasukura kugira ngo barusheho gukomeza kugira mu kanwa heza no kwirinda indwara zose zandurira mu kanwa, nko kwirinda kurwara ubugendakanwa n'izindi ndwara zitandukanye.

Ibyatsi wakwifashisha ukoramo imiti ndetse n'imiti yamajije gukorwa muri ibyo byatsi ubona ko ibyatsi bigira akamaro cyane kubuzima bwa buri muntu ni byiza ko dukoresha imiti y'ibyatsi tubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze turusheho gutekereza imiryango yacu ejo hazaza.

Ahantu heza hari ibyatsi ubona ko basekuye by'umuti wa gakondo, ni byiza ko dufata ibyatsi byacu neza tukabibungabunga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, twifashishije imiti ya gakondo.

Umuti mwiza uri mu icupa ry'umutuku ukoreshwa igihe wagize ikibazo. Ni umuti wa Kinyarwanda uturuka mu bimera. Ufasha abaturage n'abantu bose kubavura indwara zitandukanye kugira ngo barusheho kumera neza.

Ibyatsi by'ibimera bikorwamo imiti ya kinyarwanda igihe ubifashe ukabisekura ushobora kubikoramo imiti ya kinyarwanda, ikagufasha kwivura ndetse no kuvura n'abandi barwayi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza ko twifashisha tukanabungabunga ndetse ibi ibyatsi kugira ngo bidufashe kubikoramo imiti izadufasha kubaho.

Umuti mwiza uri mu icupa ufasha abantu, ni umuti mwiza wa kinyarwanda ushobora kuyifashisha ukakuvura indwara zimwe na zimwe ushoba nko kuwukoresha uwisiga ku mubiri wawe ku ruhu. uruhu rwawe rukarushaho kuba rwiza rugacya uragakira nk'ibiheri cyangwa ni zindi ndwara zitandukanye zifata uruhu. ni byiza ko dukoresha iyi miti ikadufasha, ni byiza ko dukoresha iyi miti ikadufasha, nibyiza muyikoreshe izadufasha.

Ibyatsi bya kinyarwanda byiza, bifasha abantu kuba babikoramo imiti itandukanye, ishobora kubafasha kumenya uko bakwita ku buzima bwabo, kugira barusheho kugira ubuzima buzira umuze, ni byiza kubungabunga ibimera, bimwe na bimwe bivamo imiti, kugira ngo tubashe kwita ku buzima bwacu tubikoresheje.

Umuti mwiza wifashishwa mu gusukura amenyo yacu. Tuyasukure dukoresheje umuti wabugenewe kugira ngo turusheho kubungabunga mu kanwa hacu, twirinde umwanda wo mu kanwa ushobora kudutera amenyo no kurwara amashinya mu buryo butateguwe. Dusukure mu kanwa hacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze no mu kanwa heza.

Ibyatsi byiza bivamo imiti ya kinyarwanda ubona biteye mu murima kugira ngo abaturage bazabyifashishe babikoramo imiti ya kinyarwanda kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima buzira umuze igihe bavuwe bahawe iyo miti, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije cyane cyane nk'ibimera bidufasha kuduha imiti.

Imiti myiza itandukanye ya kinyarwanda, ishobora kugufasha kwita ku mubiri wawe cyane cyane kuruhu ndetse n'ahandi hatandukanye kugirango urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza ko wita ku mubiri wawe ukoresheje imiti yo mu bimera ya kinyarwanda tubungabunga ibidukikije kuko bidufasha nabyo kubonamo iyo miti.

Icupa ryiza ririmo umuti wa kinyarwanda, ufasha abantu kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze, igihe barwaye barawunywa ubundi bikabafasha kumera neza, bagakira bakarushaho kubaho mu buzima bwiza kandi bubafasha no kugira icyo bigezaho, mu buzima buzira umuze.

Ibyatsi byiza, bitewe ahantu heza kandi ubona ko hari ubutaka bwiza, bisa neza, bisa nk'ibyavamo umuti wa kinyarwanda wafasha umuntu gutuma abaho neza mu buzima buzira umuze kandi byadufasha twese tubyitayeho, tukajya dutera imiti kuko ni yo idufasha kumenya uko ubuzima bwacu bwamera neza no gufasha ubuzima bwacu kubaho neza mu buzima buzira umuze.

Imiti myiza ya kinyarwanda n'uburyo ki yakoreshwa nkuko bigaragaza ko ifasha uruhu rwangiritse kugutuma rwamera neza, tukabikoresha kugira turusheho kwita ku buzima bwacu no kugira ngo tubeho mu buzima buzira umuze, ni byiza ko twita ku miti ya kinyarwanda n'ibimera kugira ngo turusheho kubikoramo imiti idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibyatsi byiza bya kinyarwanda bifasha abantu gukuramo imiti ya kinyarwanda ifasha abaturage kubaho mu buzima bwiza igihe umuntu arwaye akaba yabyifashisha akabikoramo umuti akabinywa gusa ni byiza ko bitunganywa byabugenewe n'abantu babizi kugira ngo turusheho kubikoresha neza kandi tube mu buzima bwiza buzira umuze.

Amoko atandukanye y'imiti ya Kinyarwanda. Nk'uko bigaragara ibyatsi n'ibindi bikoresho harimo nka tungurusumu, ndetse n'ibibabi by'ibishokoro bidufasha kubikoramo imiti karemano.

Amacupa abiri meza y'umuhondo, yegeranye n'akandi gakarito karimo ibintu bisa nkaho ari intungamubiri, byongera intungamubiri z'umwana n'abakuru kandi turwanye ibigwingira rwose mu bana, tubagaburira ibiryo byujuje intungamubiri, birimo intungamubiri zabafasha gukura neza no kubaho mu buzima bwiza.

Umuti mwiza uri mu icupa ry'umweru rifunikishije agafuniko k'umutuku, ni byiza ko uyu muti udufasha nk'umuryango, uyu muti uvura kurangiza vuba no gucika intege mu gikorwa, ni byiza ko tuwukoresha igihe umuntu afite ikibazo cyo kurangiza vuba cyane cyane ku bagabo no gucika intege mu gikorwa.

Amacupa meza ubona arimo imiti aya macupa arimo imiti ya kinyarwanda ikozwe mu bimera ni byiza ko dukoresha ibimera tukanabungabunga ibimera neza kuko bidufasha gukuramo imiti myiza ifasha ubuzima bwacu kubukura ahabi ndetse no mu kaga ,dukoreshe imiti myiza ya kinyarwanda kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu bwiza kandi buzira umuze.

Ibyatsi bigaragara nk'aho ari umuti wa kinyarwanda. Ni byiza ko tubungabunga ibimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, tubikoramo imiti ifasha ubuzima bwacu.

Ishusho nziza igaragaza imiti ya kinyarwanda ndetse ishobora no kudufasha kandi ku bijyanye no kwita ku ruhu rwacu ndetse no mu kanwa wacu hariho amakorogatiti, amasabune meza, ndetse n'iyinindi miti dushobora kunywa ikozwe mu bimera myiza ishobora kudufasha kugira ubuzima buzira umuze tugakomeza tukabaho nk'uko twabyifuje imana nk'uko yaduhaye ubuzima.

Ibyatsi biri hafi y'ahantu bari gusekurira ibindi bakoramo imiti, ubona hari uducupa tubiri bamaze gukamuramo umuti mu byatsi, bagashyira muri utwo ducupa kugira ngo bibashe gufasha abantu bose gukira indwara zimwe na zimwe. Imiti y'ibyatsi ni myiza ku mibiri y'abantu kuko ifasha abantu kubakiza indwara zimwe na zimwe, iyo byananiranye.

Amacupa ane meza ubona arimo imiti myiza ya kinyarwanda yitwa Infinite, ni korogati ushobora kwifashisha igihe usukura mu kanwa kawe, iyi karogati ishobora kandi kuva mu gikakarubamba, ni byiza ko twakoresha ishobora no kandi kuba imiti idufasha guhumura ndetse no kwita ku mibiri yacu kugira ngo turusheho kubaho neza mu buzima buzira umuze.

Ibyatsi ubona hari umuntu uri guca ibyatsi. Ibi byatsi ni ibyatsi byiza bifasha abantu kubikuramo imiti ifasha ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko twita ku miti nk'iyi y'ibyatsi idufasha kubungabunga ubuzima bwacu mu buryo butandukanye nko kubikoramo imiti idufasha kugira neza impu zacu tukita ku ruhu tukarushaho kugira umubiri mwiza.

Icupa ryiza ry'umweru, ubona ririmo umuti mwiza wa kinyarwanda, ushobora kwifashisha ukora uruhu rwawe neza kugira ngo urusheho kugira uruhu rukeye ndetse n'ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibiganza by'umuntu bifite agapapuro karimo umuti mwiza wa kinyarwanda, umuntu ashobora kwifashisha yivura mu gihe yagize ikibazo, kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, muri iki gihe turimo umuntu akoresha imiti yose, kugira ngo arebe ko yarushaho kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri basa nk'aho bagaragaza ibyatsi bya kinyarwanda umuntu ashobora kwifashisha nk'imiti mu gihe yabisekuye agakuramo amazi cyangwa se akabisekura akabigira ifu, akaba yabikoresha bikamubera imiti, ni byiza ko ibyatsi byose tubibungabunga n'ubwo bitavamo imiti bishobora no kudufasha kuduha umwuka mwiza duhumeka.

Ahantu heza ubona hari umugabo arimo yita ku byatsi byiza bifasha abantu gukuramo imiti ya kinyarwanda kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwabo ni byiza ko twita ku byatsi n'ibimera kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tubikoramo imiti ifasha impu zacu gukomeza kumera neza.

Icupa ryiza risa n'umuhondo ririmo umuti wa Kinyarwanda ushobora kwifashishwa mu kunywa kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza igihe warwaye indwara zitandukanye. Ushobora kuba uri kubabara nko mu nda ukawunywa, ukageraho ukoroherwa mu nda. Ni byiza tunywe imiti kugira ngo turushe kugira ubuzima bwiza.

Amacupa meza ndetse n'amakarito ateretse ahantu heza, amakarito arimo amabara y'icyatsi n'amacupa ateretse arimo amabara y'umuhondo, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu dukoresheje imiti myiza ya kinyarwanda nk'uko byagaragajwe, igira uruhare rukomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuti mwiza wa kinyarwanda uri mu icupa ryiza, ubona ko bashyizeho na nimero za telefone wahamagara kugira ngo urusheho gukoresha uwo muti, urushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukoresha imiti ya kinyarwanda twivuze kugira turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hateretse amacupa menshi ubona ko arimo imiti ya kinyarwanda, ni byiza ko twita ku bimera ndetse tukita no mu gukoresha imiti myiza ya kinyarwanda kugira ngo idufashe kubungabunga ubuzima bwacu bwa buri munsi.

Ahantu heza ubona hari ibyatsi biri mu mavaze, ubona byitabwaho wagira ngo ni muri pepenyeri y'imbuto, ahantu ushobora kugenda ukahakura ibyatsi cyangwa se n'imbuto zitandukanye, ugatera kugira ngo urusheho gukomeza kwita ku mubiri wawe urusheho kubaho neza.

Icupa ryiza riteretse ku meza ahantu hasa neza mu ibara ry'umweru, ubona ko icupa ririmo umuti mwiza wa kinyarwanda. Ufasha abantu kugabanya ububabare n'uburibwe mu mubiri, ni byiza ko twita ku bimera kuko bifasha abantu gukuramo imiti nk'iyi ya kinyarwanda kandi ituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ubwoko bw'imiti itandukanye umuntu ashobora kwifashisha yivura harimo nko kuba harimo amacupa ubona ko arimo imiti ya gakondo ishobora kudufasha hari kandi n'imbuto zitandukanye harimo nk'imineke ,inanasi n'ibindi ni byiza ko tugomba kwifashisha imiti ya kinyarwanda ikadufasha kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari ishusho igaragaza korogate wakwifashisha, usukura mu kanwa hawe kugira ngo urusheho kugira mu kanwa heza, hazira indwara y'ubugendakanwa ndetse no kubyimba kwishinya, no kunuka mu kanwa. Ibyo byose twifashishije n'iyi korogate byadufasha rwose, ni umuti mwiza ufasha abantu gusukura mu kanwa habo, hagakomeza kugira isuku.

Ahantu heza ubona hari agakoresho basekuriramo imiti ya kinyarwanda kugira ngo barusheho kuyikuramo ifu babashe kubonamo imiti. Ni byiza ko kubungabunga ibidukikije ubona hari umumama urimo ashaka kuyisekura, harimo ibibabi, ibiti byiza ubona bikorwamo imiti ya kinyarwanda. Tubungabunge ibidukikije turusheho kugira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye ya kinyarwanda harimo nk'ifasha abantu gusukura impu zabo mu kanwa ndetse inabafasha gukesha uruhu cyane cyane igihe barwaye ibiheri , ni byiza ko dukoresha iyi miti dusukura ahantu hatandukanye nko kumibiri yacu by'umwihariko tugakoresha kurogati y'igikakarubamba dusukura mu kanwa kuko bizadufasha kugira impumuro nziza no kubaho mu buzima buzira umuze.

Haragaragara igikakarubamba, amacupa ameze nk'ayo babikamo imiti kwa muganga, korogati zikorwa mu gikakarubamba ziteretse ku meza, kandi harasa neza urabona ko ayo macupa bayakoresha babikamo imiti yo kwa muganga...

Ahantu heza, hateretse imiti igera ku macupa ane, ifashishwa n'abarwayi igihe barwaye. Harimo icupa rimwe ririmo ubuki butuma abantu barushaho kumera neza. Ubuki ni umuti mwiza cyane ku buzima bwa buri munsi, bifasha abantu, umuntu ubunyweye bimufasha kurushaho gutekereza neza no kugira ubuzima buzira umuze.

Umuti mwiza uri mu icupa ry'umweru ubona ko ari umuti wa kinyarwanda wakozwe mu byatsi kugira ngo ufashe abaturage kwivura indwara zimwe na zimwe baba bafite kugira ngo barusheho kubaho neza mu buzima buzira umuze. Ni byiza ko twifashisha imiti ya kinyarwanda kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibyatsi byiza bivamo imiti ya Kinyarwanda, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije harimo nk'ibimera bishobora kudufasha gukuramo imiti myiza ya Kinyarwanda, ishobora gufasha ubuzima bw'abantu, ibukura mu kaga, tubungabunge ubuzima bwacu twifashishije imiti myiza ya Kinyarwanda.

Amacupa meza y'umweru atatu ateretse ku meza, ubona yegeranye n'ikindi gikombe kinini cyane kirimo imiti ya gakondo. Ni byiza ko imiti ya kinyarwanda tuyifashisha ikatuvura ndetse tukagira n'ubuzima bwiza buzira umuze. Twita ku bimera kuko biduha imiti nk'iyi tukayifashisha twita ku buzima bwacu kugira turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Amababi meza ubona ko ari ibimera Imana irema kugira ngo bifashe abantu mu gukuramo imiti myiza ya kinyarwanda Imana yaravuze ngo nubure ubwenge nzakureka niyo mpamvu ibi bibabi tugomba kubyitaho ndetse n'ibimera byose kugira ngo turusheho kubikuramo imiti myiza ya kinyarwanda kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari akantu kameze nk'agasekuru basekuriramo imiti bakavangavanga imiti ya kinyarwanda, ubona hari ubwoko bw'imiti butandukanye bw'ibyatsi basekura bagakuramo iyo miti. Ni byiza ko tubungabunga ibimera n'ibindi bintu byose byadufasha kubikoramo imiti yatuma ubuzima bwacu burushaho kubaho neza no gukomeza kubaho twirinda ubuzima buzira indwara.

Imiti myiza ya kinyarwanda aho ufata amazi y'imbuto nk'amaronji ndetse n'izindi mbuto ukabivanga ugasekura kugirango urusheho gukoramo, amazi meza yagufasha kuvura umubiri wawe twite ku buzima bwacu dukoresheje imbuto.

Ahantu heza ubona ko ari mu murima hateye ibyatsi bivamo imiti ya kinyarwanda, nk'uko biba bigaragara. Ni byiza ko tubungabunga ibyatsi n'ibimera byose bitandukanye bishobora kudufasha kuduha n'umwuka, uretse no kuba byavamo imiti. Ni byiza ko tubibungabunga bizadufasha kugira ubuzima bwiza tubikoreshamo imiti binaduha umwuka mwiza wo guhumeka.

Umuti mwiza wa kinyarwanda ubona uri mu icupa ry'umweru uyu muti ukomoka ku bimera ni byiza ko tubungabunga ibidukikije harimo cyane cyane ibimera n'iyo tutabikuramo imiti byaduha umwuka mwiza wo guhumeka ni byiza ku tubungabunga ibidukikije ndetse n'ibimera kugira ngo turusheho kubona imiti idufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Amashusho atandukanye ari mu bice, ubona agaragaza ibimera byafasha abantu kubikuramo imiti ya kinyarwanda kugira ngo barusheho kwimakaza no kwirinda indwara zose ziterwa n'ibintu bitandukanye, ni byiza ko twifashisha ibimera bimwe na bimwe tukabikoramo imiti nk'uko byagaragajwe hano.

Ahantu heza hari ku makoma harambitse ubwoko bw'imbuto butandukanye, harimo amapera amaronji ibishyimbo bitoya udukarishya ndetse n'ibindi biryo bin bitandukanye harimo n'akantu kameze nk'akunngo basekuriramo utwo tuntu twose tw'imbuto kugira ngo babashe gukoramo imiti yafasha abantu gukira indwara zitandukanye. Ahantu heza hari ku makoma harambitse ubwoko bw’imbuto butandukanye, harimo amapera, amaronji, ibishyimbo bitoya, udukarishya, ndetse n’ibindi biribwa bitandukanye. Hari kandi n’akantu kameze nk’akungo (basekuriramo) utwo tuntu twose tw’imbuto, kugira ngo babashe kubikoramo imiti ifasha abantu gukira indwara zitandukanye.

Ahantu heza mu murima hateye ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye ubona ko ibyatsi byafasha abantu mu kubaha umwuka wo guhumeka nk'ibisanzwe, kugira ngo barusheho kongera iminsi yo kubaho. Ubona ko ibi byatsi bishobora no gufasha abaturage nanone kongera kuba babikoramo imiti myiza ya Kinyarwanda ishobora kubafasha kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Uducupa dutandukanye ubona ko ari ubwoko bw'imiti itandukanye ya kinyarwanda yifashishwa mu kuvura abantu ibintu bimwe na bimwe harimo n'indwara z'uruhu, mu nda, ndetse n'umutwe n'ibindi bitandukanye. Tunywe imiti kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu, ni byiza ko tunywa imiti yakinyarwanda kuko izadufasha kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza ubona hari ibyatsi byinshi, ubona ko ari ibyatsi bivamo imiti ya Kinyarwanda, ifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukoresha iyi miti mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo idufashe kugira ubuzima bwiza kandi no gutuma dukomeza kubaho.

Ahantu heza hari ibintu bigaragaza imiti ya kinyarwanda cyangwag se imiti ituruka mu byatsi ifasha abantu kumererwa neza. Hari nka korogati ishobora kugufasha n'isabune nziza ishaka kugufasha kwita ku ruhu rwawe, korogati ishobora gufasha kwita mu kanwa kawe kugira ngo urusheho kubaho neza kandi wishimye n'uruhu rwiza rukeye.

Umuti mwiza wifashishwa mu kuba umuntu yasukura mu kanwa he hagahora hasa neza. Ni byiza ko dukoresha imiti isukura mu kanwa yabugenewe kugira ngo turusheho kugira isuku nziza mu kanwa, no gutuma umubiri wacu imera neza mu buryo dukoresheje imiti yabugenewe nk'iyi ngiyi isukura mu kanwa. Tugire mu kanwa heza twifashishije imiti myiza yabugenewe.

Imiti myiza ya kinyarwanda ubona yifashishwa mu kwita ku mubiri w'umuntu. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyi twita ku mpu zacu. Iyi miti ushobora kuyisiga inyuma ku ruhu, uruhu rwawe rukarushaho gucya ndetse no gukira ibiheri mu gihe ubirwaye. Twite ku mubiri wacu dukoresheje imiti ya Kinyarwanda, ni myiza, izatuma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hari abantu beza, hari korogati nziza zigezweho zifasha abantu mu gukora isuku y'amenyo yabo kugira ngo barusheho gukomeza kumera neza mu kanwa habo, no kwirinda indwara mbi ziterwa n'umwanda wo mu kanwa, nk'ubugendakanwa, amashinya n'ibindi, ubona hari umuntu umwe uhari uri ku ruhande, usa nk'aho afite ikibazo cyo mu maso...